Abantu benshi abicaye n'abahagaze iruhande rw'inzu. Inyuma yabo hari icyapa, bigaragaza ko baje mu gikorwa cyo gukingira cyangwa gusuzuma indwara runaka, basanze abaturage aho baba.

Abantu benshi bahagaze hamwe. Bakoze igice cy'uruziga. Bamwe bambaye imyenda y'akazi. Abandi bambaye bisanzwe neza. Batumbiriye imbere, bafite amatelefone mu ntoki. Nk'impano bahawe.

Abantu batandukanye bicaye mu ihema ndetse harimo n'abo mu nzego zishinzwe umutekano. Batumbiriye umuntu ubahagaze imbere, afashe indangururamajwi, asa nkaho ari kubaganiriza ku bintu by'ubuzima bitewe n'icyapa kiri inyuma yabo, uko cyanditseho.

Inzu ebyiri zubakishijwe amatafari ahiye, zisize n'amarange y'ubururu, hari n'inzugi n'amadirishya bishyize amarange y'ubururu, hari n'igisenge cy'indi nzu itari kugaragara. Ni inzu yubatse ku muhanda ifite uruzitiro rwubakishije ibyuma, mo imbere harimo umuntu umeze nk'umuzamu, hari n'andi matafari bigaragara ko bagikomeje kubaka.

Itsinda ry'abantu bicaye mu nzu mberabyombi bazengurutse ameza. Bamwe bafite mudasobwa, hari n'abameze nkaho barimo kubashimisha n'umufotozi, basa nk'abateraniye ahantu barimo kuganira cyangwa bungurana ibitekerezo.

Abantu batandukanye bicaye mu nzu, imbere yabo hari ameza ateretseho icyo kunywa na za mudasobwa, bari kurebana baganira nkaho bari kujya inama cyangwa hari icyo bari gufatira umwanzuro kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza.

Abana bane, bicaye hanze, bateze ibiganza, bari kumwe n'umuntu mukuru, ari kubasukira amazi, munsi y'ibiganza by'abo bana hari ibase, bigaragaza ko ari kubasukira amazi, kugira ngo, bikureho imyanda, iri ku ntoki, birindade indwara. Hirya yaboho hari ibyats. Bigaragaza ko ari ahantu hanze, barimo gukarabira.

Abana b'abakobwa n'abasore, bicaye mu cyumba cy'amashuri ku ntebe z'ibiti. Barimo kurya ibiryo ku isahani y'icyuma, inyuma yabo hari ikibaho bandikaho ndetse cyanditseho n'ibintu bakoresheje amacake y'umweru. Batumbiriye imbere nk'aho hari uri kubafotora.

Umwana uri gusuhuzanya n'umuntu mukuru, imbere y'abandi bana benshi ndetse inyuma yabo hari undi muntu mukuru uhahagaze, barasa nkaho bari barimo kuganira cyangwa hari ikindi gikorwa cyabahuje, inyuma yaho hari ibindi biti n'ibyatsi bitandukanye biragaragara ko ari ahantu hanze hasanzwe bahuriye bakaganira nk'abana.

Abantu benshi bicaye ku ntebe mu nzu mberabyombi. Imbere yabo hari umubyeyi, baramutumbiriye nkaho hari ikiganiro ari kubaha cyangwa ayoboye inama, kugira ngo bagire ibyo bafatira umwanzuro. Umuryango urafunguye hari n'amadirishya n'amarido n'andi mashusho ku nkuta. Hanze haragaragara ibiti n'ikirere cyiza.

Umwana usutamye hanze, ateze amazi ari kuva ku mugezi, hari n'ibindi bijerekani, inyuma ye hari ibiti ndetse n'umuhanda bigaragaza ko ari ahantu nyabagendwa abantu baje gushaka amazi, yo gukoresha imirimo yo mu rugo.

Abana bicaye hasi bari kumwe n'abandi bantu bakuru bamwe basutaraye abandi barahagaze, barimo kubanywesha mu nkongoro no mu bikombe, bigaragaza uburyo ki umuntu yita ku mwana mutoya kugira ngo barwanye igwingira cyangwa indwara za hato na hato bagira ubuzima bwiza bazakure bavemo abantu bakomeye.

Abana bane bahagaze iruhande rw'isoko y'amazi, umugezi wubakishije sima, umwe afashe ku mugezi ari kubafasha kuvoma, munsi ya robine hari ijerekani y'umuhondo, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ikirere cy'ubururu kirimo ibihu.

Umugore wambaye igitenge, uhagaze imbere mu nzu mberabyombi. Atumbiriye imbere nk'aho hari umuntu ategeje ugiye kugira icyo amubwira cyangwa hari icyo agiye kumukorera, ateruye umwana we, inyuma ye hari abandi bantu benshi higanjemo ababyeyi bateruye abana, bigaragaza ko bitabiriye igikorwa runaka kigamije kwita ku mibereho y'abana.

Umubyeyi uteraruye umwana ari kumwe n'umuganga, uri kumutera urushinge nk'aho ari kumusuzuma arimo kumuvura, inyuma yabo hari abandi babyeyi benshi nk'aho baje gukingiza cyangwa kuvuza abana babo uburwayi butandukanye, kuko hari abandi babyeyi bafite impinja ndetse n'abana bato bari aho ngaho n'ibikoresho umuganga arimo gukoresha.

Umwana uteruwe n'umubyeyi ku kaboko k'iburyo hari ikiganza kimufasheho, cyambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ikindi kiganza kiri kumutera urushinge.

Ababyeyi babiri bafashe umufuka, bariguherezwa n'undi mugabo uhagaze hejuru y'imifuka, bari hanze, basa nkaho baje gufata imfashanyo cyangwa baje kugura ifumbire cyangwa ibiribwa, inyuma yabo hari amazu ndetse n'abandi bantu, bigaragara ko ari ahantu nyabagendwa haba abandi bantu benshi.

Abantu batandukanye bari mu nzu bicaye ku ntebe harimo abaganga bambaye imyenda y'akazi ndetse n'abandi bateze intoki, kugira ngo babakingire cyagwa babatere inshinge kugira ngo bagire ubuzima bwiza birinda indwara cyangwa bivuza kugira ngo bakire.

Abana benshi bateraniye hanze, iruhande rw'amazi ari kuva mu iteranyirizo ry'imigezi, basa nk'aho bari gukaraba amazi ari mu ibase, ndetse hari n'andi ari kuva mu gihombo, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'inzu bigaragaza ko ari amazi yo hanze, ariko hari umwanda nk'aho ayo mazi adasukuye.

Umwana ugiye kwikorera indobo isa nk'aho iremereye. Ari kumwe n'umuntu mukuru ufashe ingata, nk'aho agiye kumukorera. Hanze, iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ahiye. Bigaragaza umugezi wa rusange abantu baza gutwaraho amazi kugira ngo bayakoreshe imirimo yo mu rugo.

Umwana wambaye imyenda ikoze mu gitenge, arunamye arimo gukaraba intoki n'amazi avuye mu gihombo akamanukira mu ibase, inyuma ye hari igikuta cyubakisheje rukarakara ari gukora isuku intoki ze kugira ngo yirinde indwara agire ubuzima bwiza.

Umugore n'umwana bafite ijerekani irimo ibara ry'umuhondo, bari kuvoma amazi yaretse hagati y'imirima, imirima iteyemo imyaka itandukanye, bari kuvoma amazi mabi bajyiye gukoresha imirimo yo mu rugo, bishobora kubatera uburwayi.

Umwana uri kunywa amazi ku biganza ateze ku mugezi uri hanze ndetse hari n'indobo igaragaza ko baza kuhavomera amazi. Hirya y'umugezi hari ubusitani n'amazu bigaragaza ko ari aho baza gushaka amazi yo gukoresha imirimo itandukanye.

Umukecuru uri kunywesha abana ku nkongoro. Ari kumwe n'abandi bantu bakuze. Harimo n'uba mu nzego z'umutekano ufite inkongoro yayipfunduye. Barimo kwimakaza imibereho myiza y'abana, banywa amata n'ibindi byujuje ubuziranenge harimo intungamubiri nyinshi.

Abantu benshi bicaye imbere mu nzu mberabyombi, basa n'aho bari gutanga ikiganiro cyangwa hari ikintu bari kubwira abantu babicaye imbere, inyuma hari amafoto y'abantu ku cyapa, hari amatara mbese ni ahantu ubona ko hateraniye abantu bafite ibyo bashinzwe hari icyo bari kuganiraho cyangwa bagishakira umwanzuro.

Abantu benshi bahagaze bareba imbere, nk'abarimo gufata ifoto y'urwibutso, bamwe bambaye imyenda y'akazi n'dukote tw'akazi, hagati yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, barasa nk'abamaze kuganira cyangwa uwo mugabo yabasuye, kugira ngo bagire icyo bafatira umwanzuro.

Abana batandatu bambaye impuzankano, ni urungano rwo mu gihe cyo kwiga, bafite ibikombe mu ntoki bari kunywa amazi bakuye ku kigega, inyuma yabo hari inzu ndetse n'ibiti ahantu hatuwe cyangwa ku kigo cy'amashuri, aho babegereje amazi kugira ngo bajye bayakoresha imirimo itandukanye.

Umwana uhagaze mu kibaya, afashe udukombe tubiri turimo amazi. Iruhande rwe hari andi mazi ateze. Ahantu bari hari ibiti ndetse hirya hari n'abandi bantu bahagaze, bigaragaza amazi atemba kugira ngo bayirinde atabatera uburwayi.

Abagore babiri bari ahantu hanze bateruye umufuka barimo kuwujyana ahandi hateretse indi mifuka. Hariyo n'abandi bantu benshi bigaragaza ko ari igikorwa rusange bari kugenda bagashyira ahantu imifuka. Bari ahantu hirya yaho hari ibiti ndetse n'undi muntu uhagaze ku mpande.

Icyapa cy'umuryango wita ku burenganzira bw'umwana nkuko byanditseho, harimo ifoto y'umwana urimo kunywa amazi, ku mugezi wo hanze, inyuma ye hari abandi bantu bahagaze, bakuru.

Umukozi w'ubuzima uri gusuzuma ijisho ry'umwana muto, umwana ari kumwe n'umubyeyi we, hari n'abandi bantu inyuma yabo benshi bisa nkaho habereye igikorwa cyo gusuzuma abaturage.

Umwana wunamye hanze, afashe kuri robine iteretse hejuru y'imeza, hanze iruhande rwe hari urugo rwubakishije imikenyeri, ari kwerekana aho bavoma amazi yo gukoresha imirimo itandukanye nkayo kunywa.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi isukuye nini, batumbiriye imbere, hari ibyapa ndetse n'abandi bantu, bisa nk'aho hari inama bakoze bafite icyo bari kwigaho cyangwa icyo bari gufatire umwanzuro, kandi bafite n'abaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa nk'uko ibyapa bibari imbere bivuga.

Umwana uhagaze hanze y'inzu ari gukaraba intoki n'amazi akuye mu ibase, yambaye ishati n'ijipo y'umutuku, inyuma y'inzu ahagaze imbere yubakishije amatafari.

Umwana muto wambaye ingofero ari kumwe n'umuganga uri kumukora mu maso nkaho, ari kureba ikibazo afite, ari kumwe n'umubyeyi we na none ameze nk'uwaje kumuvuza, inyuma hari abandi bantu batandukanye, hasa nk'aho bakirira abantu cyane cyane abana bakabavura indwara zitandukanye.

Abana batandatu bambaye impuzankano isa na kaki. Bari hanze, bari kuvomera amazi mu ndobo ku mugezi wubakishijwe sima ndetse hari n'akajerekani. Babiri babiri bari gufashanya kugira ngo bavomere amazi mu ndobo. Inyuma yabo hari ibiti ndetse hari n'indi nzu iri kugaragara. Baje kuvoma amazi atari meza bishobora kubatera uburwayi.

Umuntu wambayetabubura y'ubururu afashe mu kiganza cy'iburyo igishushanyo kiriho abana babiri arimo kwereka umubyeyi ukeneyenye igitenge, bari hanze y'inzu inyuma y'idirishya bisa nk'uri kumwigisha ku bijyanye n'imibereho y'abana abimwerekera ku gishushanyo.

Umwana wikoreye ijerekani iriho icyapa cy'ubururu handitseho amagambo y'umweru UNICEF. Ari kumwe n'umusaza wambaye umupira w'umweru n'ubururu afashe ku kijerekani.

Abasore babiri bari kurebana basa nkaho baganira bahetse ibikapu mu nzu izamo abantu benshi, ndetse hari n'abandi bantu bicaye inyuma yabo n'abahagaze, bisa nkaho ari ahantu hagendwa bitewe n'ikihatangirwa.

Umuntu uryamye ku gitanda mu nzu areba hejuru yambaye agapfukamunwa. We n'undi muntu uri kumwumviriza ku nda. Mbese hari undi muntu uhagaze ari kubareberera nkaho bari kumva nimba hari ikibazo afite mu nda cyangwa atwite ngo bumve ko umwana ameze neza.

Abantu babiri bari guterura indobo bari ku mugezi aho bavomera amazi, hari n'abandi bahagaze inyuma yabo, bisa nk'aho baje kuvoma ku mugezi wo hanze nta mazi meza yo mu nzu bafite, byerekana gukoresha amazi adasukuye byatera indwara zitandukanye.

Abana batandatu bari hanze, babiri babiri bafashe umugezi umwe. Bamwe bari kuvoma ,abandi barimo gukaraba intoki. Inyuma yabo hari ibiti, ndetse n'inzu iri kugaragara. Baje gushaka amazi yo gukoresha, abandi bari kwisukura intoki bakoresheje amazi ya rusange.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru n'abambaye iy'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, ndetse n'abambaye iy'ubururu ndetse n'undi muntu utambaye ingofero. Bafashe icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, bagira bati: isuzumishe, turandure kanseri y'inkondo y'umuru. Ndetse kuri icyo cyapa hariho n'ubwishingizi bakorana na bwo.

Umuntu ufite ikarita y'akazi, ari gutanga impapuro ku muhanda azihereza abantu, ku bantu barimo kugenda n'abicaye, ni ahantu hari imodoka, amazu bigaragaza ko bahurira abantu benshi, bitewe n'ibyanditse ku myenda bambaye, bari mu gikorwa cy'ibijyanye n'imibereho myiza babungabunga ubuzima bw'abaturage.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi. Bari kumwe n'abandi bantu baje babagana ndetse hari na ba gafotozi. Basa nkaho hari serivisi barimo kubaha kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Bateraniye mu nzu nini isakaye kandi ifite isuku.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hari abantu batandatu basa nkaho bari kubaha ikiganiro, nk'uko icyapa kiri inyuma yabo kivuga bari kuganira ku bijyanye n'ubukungu mu by'ubuzima, ukuntu umuntu yakwiyongerera ubukungu mu rugo.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi n'ingofero n'udupfukamunwa, bahagaze bari kureba umuntu uryamye areba hejuru nk'abari kumwitaho mu cyumba babagiramo ndetse hari n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi bitandukanye, iyo nzira isukuye kandi isa neza.

Abantu benshi higanjemo bambaye amataburiya n'amakarita y'akazi, harimo n'abanyeshuri bamwe baricaye abandi barahagaze, hanze inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo nyabageni astrich and mass clining, baje gusuzuma abaturage indwara bafite kugira ngo babakurikirane babavure ku buntu.

Abana bane bafite utujerekani dutoya. Baje kuvoma amazi bari kumwe n'umuntu mukuru uri kubafasha kugira ngo amazi azemo. Bari hanze, hirya yabo kure hari imodoka n'ibiti, bigaragaza umugezi wa rusange baza kuvomaho amazi bakayakoresha imirimo yo mu rugo.

Umwana uri imbere y'ikigega, ari gufungura robine avomera amazi y'imvura mu gikombe cy'umweru, ari hanze imbere y'inzu yubakishije rukarakara, agiye kuyakoresha kandi ni amazi adasukuye ashobora kumutera indwara.

Itsinda ry'abantu bateraniye mu cyumba kimwe, bambaye amataburiya y'ubururu, batumbereye imbere nkaho hari umuntu uri kubaganiriza cyangwa ubakoresha inama.

Abatu batatu bicaye mu nzu, hari umubyeyi uteruye umwana, ari kumwe n'umuganga wambaye umwenda w'akazi, afite ibikoresho ari gukora ku mwana ari gusa n'umusuzuma cyangwa amukingira kugira ngo amenye uburwayi arwaye cyangwa amukingire kurwara.

Abana benshi bicaye hasi ku mukeka bari kumwe n'abantu bakuru na bo bari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima, ni mu nzu nini mbera byombi harimo n'imeza n'izindi ntebe n'abantu bakuru bahagaze ku miryango n'abandi bicaye.

Abantu benshi, bicaye bakoze uruziga mu nzu mberabyombimo, barimo kureba impapuro n'ibindi bintu nk'aho hari gukurikirana, cyangwa icyo bavumbuye, inyuma yabo hari abandi bantu bahicaye n'izindi ntebe nyinshi, bisa nkaho hari ikintu bari kwigaho, bari gushakira umwanzuro n'igisubizo.

Umuntu umwe ushyigikiye icyapa, abandi babiri barimo kwandikaho bakoresheje amarangi, imbere yabo hari amajerekani arimo ibyo bari gukoresha, inyuma yabo haragaragara ibiti, barimo kwandikaho ibijyanye n'ubukungu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Umwana ufashe ku jerekani ari kuvomera amazi ku mugezi, uri iruhande y'umuhanda. Undi munyeshuri, wambaye impuzankano uri gukora mu mazi nk'aho ari gukaraba. Ruguru yabo ku muhanda hari abantu bari kugenda, amazu y'abantu, ndetse n'ibiti n'ibimera bitandukanye n'ibyatsi. Bigaragaza ko ari umugezi rusange abantu bahuriraho, bakavoma amazi yo gukoresha imirimo yo mu rugo.

Itsinda ry'abantu bateraniye mu murima, abenshi bambaye imipira isa, harimo n'uwo mu nzego zishinzwe umutekano, barimo baratera ibiti nko gukangurira abantu gutera iyo myaka, kubera inyungu igira ku buzima.

Ababyeyi babiri bambaye ibitenge. Barimo gufasha umugore kuvoma amazi ku mugezi. Mu ibase yateretsemo indobo, harimo kuzamo amazi ahantu hanze y'inzu. Inyuma hari ibiti bigaragara n'igipangu, bigaragaza umugezi wa rusange bajya kuvomaho amazi yo gukoresha imirimo isanzwe.

Abantu benshi bambaye amataburiya, bahagaze imbere y'ibitaro. Imbere yabo hari umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru. Barimo gukoma amashyi nk'aho hari icyo ababwiye bishimiye. Ndetse inyuma yabo hari umuntu urimo kubafotora. Cyane cyane uhagaze imbere yabo.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, amacupa y'amazi ndetse bamwe bafite na mudasobwa, babiri bari kurebana nkaho bafite icyo bari kuvuganaho, basa n'abitabiriye inama, cyangwa ikindi gikorwa cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye, bafite ibyo bari kuganiraho cyangwa icyo bari gufatira umwanzuro.

Umwana afite utujerekani tubiri, kamwe agashyize ku mugezi ajyiye kuvoma, inyuma hari undi muntu uri kumufasha kugira ngo amazi aze avome, hamwe n'abandi bantu babiri, harimo n'undi mwana ufite ijerekani, baje gushaka amazi ahantu mu kibaya hari ibyatsi, n'ibindi biti bitandukanye, ahantu bakura amazi yo gukoresha imirimo isanzwe.

Abagore benshi bicaye hanze y'inzu yubakishije amatafari ahiye, bateruye abana babo basa nk'abaje gukingiza cyangwa baje mu bundi bukangurambaga bujyanye n'imibereho myiza y'abana, bitabiriye uri kubona ko babukereye.

Umuntu w'igitsina gore yikoreye indobo ku mutwe n'indi ayifashe mu kaboko k'iburyo, arimo kugenda mu nzira asatira inzu, asa nkaho avuye kuvoma amazi, ahantu ari kunyura hari ibyatsi n'ibiti, imbere ye haragaragara inzu n'ibindi biti n'imyenda yanitse.

Abantu batanu bambaye imipira y'ubururu, bafite icyapa cyanditseho Unicef for every child, barimo kwamamaza imikorere y'uyu muryango mu gufasha abana mu bikorwa bitandukanye.

Umugore wambaye igitenge, arimo kuvomera amazi mu ijerekani kuri robine, ari kumwe n'undi mugore ndetse n'umwana inyuma ye, hari amajerekani menshi baje kuvoma ngo barebe ko babona amazi yo gukoresha, inyuma yabo hari insina, bigaragara ko ari ahantu hanze bavomera.

Umusaza wicaye ku ntebe mu cyumba cyo kwa muganga ari kumwe n'abaganga batatu bambaye imyenda y'akazi, umwe yambaye udupfukantoki n'agapfukamunwa arimo kumutera urushinge ku kaboko k'ibumoso, arimo kumukingira cyangwa ari kumutera umuti kugira ngo amuvure uburwayi.

Abantu batanu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza magari, hariho amazi yo kunywa ndetse n'aho bari kwandika, bari nkaho hari inama barimo cyangwa ikintu bari gufatira umwanzuro, bari mu nzu nziza, inyuma yabo haragaragara umuryango no hanze, hari ibiti n'amarido y'umweru.

Ikirango cyemewe cy'ikigega cy'umuryango w'Abibumbye, gishinzwe abana. Gisa n'ubururu handikishijeho ibara ry'umweru. Ngo kuri buri mwana. Hashushanyijeho n'umubyeyi uteruye umwana ari kumureba mu maso.

Abantu batatu bateye intebe bicaye hanze, babiri umwe ni umugore utwite undi ameze nkaho ari umugabo we ari kumukora ku nda, bari kumwe n'undi muntu wambaye itaburiya asa nk'umuntu ukora mu bijyanye n'ubuzima nk'umujyanama w'ubuzima, ufite urupapuro mu ntoki asa nkaho ari kubaganiriza ku bijyanye no gutwita imibereho myiza y'umwana no kubyara.

Umuntu w'igitsina gore. Wambaye umupira n'ijipo y'umukara. Ari kuvomera amazi kuri robine ayashyira mu ijerekane iteretse mu ibase. Ari mu gikari, inyuma ye hanitse imyenda. Bigaragaza ko ari mu masuku. Ari kuvoma amazi yo gukoresha kugira ngo birinde umwanda.

Itsinda ry'abantu bateranira hanze, bashinze ihema, bari gukoma amashyi bishimye, higanjemo abambaye amataburiya y'ubururu, bimeze nk'aho baje mu nama cyangwa hari ibirori bateraniyemo hari icyo bari kubagezaho bishimiye, ahantu bari hari ubusitani, hirya hari ibiti ndetse n'inzu iri kugaragara, bigaragara ko ari ahantu bapanze guhurira kugira ngo bagire icyo bavuganaho.

Abantu babiri, umwe ni umugabo muremure wambaye ikote, ari kumwe n'umuzungu, bahagaze imbere bafashe agakapu kanditseho ngo Visit Rwanda, bameze nk'abari gufata ifoto, inyuma yabo hari ibirangantego n'ibyapa bitandukanye.

Itsinda ry'abantu bambaye neza, bahagaze bafatana ifoto y'urwibutso, basoje cyangwa barangije amahugurwa cyangwa igikorwa runaka bari barimo gukora, bose bahagaze bareba imbere nk'aho batumbereye umuntu uri kubafotora.

Abantu babiri bafite amajerekani, bari kuvoma ku mugezi uri hanze wubakishije sima, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'inzira, bigaragaza ko ari ahantu hanze bajya kuvoma amazi, ntago bafite amazi mu nzu meza.

Umuntu mukuru ufashe ijerekani y'umuhondo mu ntoki, arimo kuvoma amazi ku mugezi, ari kumwe n'abana babiri, ndetse iruhande rwe hari indi jerekani yaguye hasi, inyuma yabo hari ibiti n'inzu iri kugaragara bigaragaza ko bagiye ku mugezi rusange gushaka amazi yo gukoresha imirimo yo mu rugo.

Abana benshi bambaye amashati y'umuhondo, bari imbere y'umuryango bari kumwe n'abandi bantu bakuru, bazamuye akaboko, hepfo y'umuryango hari icyapa cyanditseho Unicef, batumbiriye imbere nk'abari gufata ifoto bitewe n'ibyo bamaze kubaganiriza cyangwa n'uko bamaze kubafasha kugira ngo bagire imibereho myiza.

Itsinda ry'abana benshi bari hanze iruhande rw'ibigega biterutse ku meza. Bamwe bafite ibikombe abandi bari kuvoma amazi, inyuma yabo hari amazu nk'ikigo cy'amashuri, basa nk'abaje gushaka amazi yo kunywa.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe mu cyumba bazengurutse ameza, imbere yabo hari ibikombe bigaragara ko bafasha icyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho bari gukoresha, basa nk'aho hari icyo bari kuganiraraho cyangwa icyo bari kurebera hamwe kugira ngo bagifatire umwanzuro.

Virusi, bitewe n'umurizo wayo n'ishusho yayo muri rusange, ni korona virusi, itera uburwayi bw'ubuhumekero, iri mu ibara ry'ubururu kugira ngo ibashe kugaragara neza bavure umurwayi.

Abantu babiri bafite amajerekani, barimo kuvoma ku kumugezi wo hanze, inyuma yabo hari ibiti, ibyatsi ndetse n'indi nzira, bigaragara ko ari umugezi rusange, abantu baza kuvomaho amazi bakoresha imirimo,

Umuntu wicaye ku ntebe mu cyumba cyo kwa muganga. Ari kumwe n'umuganga uri kumushyiraho ibikoresho amufashe. Inyuma yaho hari undi muganga wambaye imyenda y'akazi. Ahantu bari harateguye hafite isuku bitewe na za mudasobwa n'ibindi bikoresho bifashisha. Barimo kumwitaho kugira ngo bamusuzume cyangwa bamuvure indwara arwaye.

Umwana n'umuntu mukuru bari hanze, bateze amazi atemba barimo barayavoma bakoresheje igitumba, inyuma yabo haragaragara ibirenge by'undi muntu ndetse ku ruhande rwabo hari imyanda ndetse n'ibyatsi bigaragaza kuvoma amazi mabi bakajya kuyakoresha byabaviramo uburwayi.

Abantu benshi bateraniye mu nzu mbera byombi bicaye batumbiriye imbere umugabo ufashe indangururamajwi irimo kubaganiriza, ku bijyanye n'umuryango ushinzwe ubuzima mu Rwanda ku byerekeye imibereho myiza y'ababyeyi ndetse n'abana, hari n'abandi babicaye imbere basa nk'aho baraza cyangwa barangije kubaganiriza.

Ibiganza bibiri byambaye udupfukantoki. Bifashe urushinge biri kurutera mu kuboko kw'iburyo k'umuntu, no kumukingira cyangwa kumuvura. Kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Abantu batandukanye, bamwe bambaye imipira y'icyatsi, abandi bambaye imipira y'umweru, bose bambaye n'udupfukamunwa. Bicaye ku ntebe z'umutuku n'ameza ateguye neza, bafite amazi ndetse n'udukayi, abandi bafite amakaramu, batumbiriye imbere nk'inama cyangwa hari umuntu uri kugira icyo abagezaho.

Abantu bane bahagaze imbere, inyuma yabo hari ibyapa, bya UNICEF, n'ikindi cyanditseho ko ari umunsi wo kumurika ku mugaragaro, kurinda uburenganzira bw'abana mu mikurire, birasa nkaho bafite ibyo bari kwereka abantu babakurikiye, imbere yabo.

Abantu batanu bambaye imipira y'ubururu yanditseho mu ibara ry'umweru ejo heza, bambaye n'ingofero z'umweru, inyuma yabo hari icyapa ndetse haragaragara inyuma y'aba bantu n'inzu yubatse neza, biri ku gahunda y'Igihugu cy'u Rwanda yo guteganyiriza ejo hacu hazaza.

Umwana wunamye, afatishije ikiganza cy'iburyo ijerekani y'umuhondo, arimo kuvoma ku mugezi wo hanze. Iruhande rwe hari ayandi majerekani atatu. Hirya yaho ari hari ibiti, insina n'indi mirima, bigaragaza ko ari ivomero riri hanze rihuriraho abantu benshi baje gushaka amazi yo gukoresha imirimo yo mu rugo.

Umwana wunamye ari gufungura ku kigega avomera amazi mu gikombe cy'umweru, inyuma ye hari inzu yubakishije rukarakara, hasi hari urugobi, bigaragaza aho bakura amazi yo mu kigega kugira ngo bayakoreshe imirimo yo mu rugo.

Umuntu wunamye ahagaze mu mazi afite ijerekani arimo kuyadaha, ni amazi yiretse hagati y'imirima ruguru ye hari umuntu uri kogerezamo igari. Bigaragaza ko ari kuvoma amazi adasukuye agiye gukoresha bishobora kumuviramo uburwayi butandukanye.

Umubyeyi wicaye mucyumba ku ntebe ateruye umwana, bari kumwe n'umukozi w'ubuzima wambaye umwenda w'umweru, ari gukora ku mwana nk'uri kumusuzuma. Inzu barimo ni inzu ntoya, ariko asa nk'urimo kumufasha kugirango arebe ikibazo umwana yaba afite.

Abana barindwi bari aho bavomera amazi umwe ari kunnywa amazi kuri robine barangariye imbere yabo bafite amatsiko menshi bishimiye ibyo bari kubona ndetse ahantu bari hanze.

Itsinda ry'abakozi bambaye imyambaro y'akazi kandi basa nkabari mu kiganiro ku meza y'inama azengurutse mu cyumba cy'inama, impapuro zasandaye ku meza zigaragaza ko hari inama cyangwa imigambi bakomeje.

Abantu icumi bahagaze imbere y'inzu yanditseho ko ari inzu bakoreramo inama, bafite icyapa ku ruhande rwabo bahagaze bareba imbere nk'abarangije inama cyangwa bagiye kuyitangira, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umuntu wicaye ku ntebe akikiye umwana. Iruhande rwe hari umuntu uri gusoma mu makayi ndetse n'undi usa nkaho agiye kumufasha amuhagaze iruhande. Iruhande rw'umubyeyi hicaye undi mwana n'ikindi kirenge cy'umwana utari kugaragara mu maso. Bisa nkaho ari ahantu bateranira baje gukurikirana cyangwa gukingiza abana batoya.

Itsinda ry'abantu umunani basa nkaho bari mu nama cyangwa mu mahugurwa, bose bari kureba imbere mu cyerekezo kimwe kandi bamwe bafite impapuro imbere yabo zanditseho amazina yabo, hari amacupa y'amazi ku meza kandi aho bari hasa nko mu cyumba k'inama cyangwa mu cyumba cy'amashuri.

Umwana wambaye ikanzu idoze mu gitenge, ari inyuma y'inzu yubakishije amatafari ahiye, afashe mu ntoki agacupa karimo amazi, iruhande rwe hari igikuta cyubakishije amatafari ya rukarakara.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza basa nk'abatumbiriye imbere, umwe afite indangururamajwi ameze nkaho hari icyo ari kubwira abantu bari imbere ye, inyuma y'aho hari icyapa kivuga ko ari inama iri kubera muri Afurika y'amajyepfo igamije kwita ku buzima bw'abaturage, iruhande rwabo hari n'ibendera.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe mu nzu mberabyombi ifunganye, batumbiriye imbere nk'aho haricyo bakurikiye cyangwa umuntu uri kubaganiriza bamwe bazanye n'amakayi yo kwandikamo.

Abantu batatu bicayewe mu cyumba cyo kwa muganga. Babiri bafashe mu ntoki amakarita bari kureberaho ibyo bari kwandika mu makayi, undi umwe arabatumbiriye. Hari ibindi bikoresho muri iyo nzu nk'ibikonjesha, intebe, ameza ndetse n'ibindi .Birasa nk'aho hari icyumba barimo gufashirizamo abantu babagana bo kwa muganga, ku mujyanama w'ubuzima n'ahandi bafasha abantu bafite ibibazo ku bijyanye n'ubuzima.

Itsinda ry'abantu bicaye mu nzu, batumbiriye imbere, abenshi bambaye imipira ifite ibara ry'umukara, hari n'abandi bahagaze n'abari gutambuka, bisa nkaho bitabiriye inama hari ibyo bari kuganiraho cyangwa bakurikiranye ibyo bari kubereka imbere yabo.

Abantu batandukanye abenshi bambaye imipira y'ubururu harimo n'umuzungu ndetse n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru ubahagazemo hagati, barishimye bari kureba imbere nkabatumbiriye uri kubafotora bafata ifoto y'urwibutso.

Umukecuru usa nabi wambaye imyenda itameshe, yicaye imbere y'inzu, afite imyanda nk'ibyatsi amashashi n'amacupa utamenya aho yabikuye, inyuma ye hicaye undi muntu wifashe ku itama, ndetse n'iruhande rwe hari abantu bari kugenda.

Abantu babiri bicaye ku ntebe uw'igitsina gabo, ararangaye ari kurebe hirya, uw'igitsina gore ari kureba imbere afite indangururamajwi, amaboko ye ayafashishije ku meza, asa nk'uri gutanga ikiganiro cyangwa uri kugira icyo avuga imbere y'abantu.

Umukecuru uhagaze areba imbere, yambaye igitenge cy'umweru mu mutwe, hejuru yambaye ubusa n'inigi mu ijosi, asa nk'uwasamye arimo gutabaza, ababaye cyangwa afite ikibazo runaka ashaka ko bamufasha gukemura.

Abantu babiri bicaye bari kurebana, umwe yitangiye itama undi arimo kumureba mu maso nk'uri kumuhumuriza yahuye n'ikibazo cyangwa ari kumugira inama.

Umuntu usa nabi uhagaze iruhande rw'umuhanda mu myanda itandukanye, yambaye imyenda yacikaguritse yishyizeho amashashi n'ibindi bishingwe bitandukanye, asa nk'umusazi ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gore wambaye ipantaro y'ikoboyi, agashaneti ndetse n'isengeri. Yicaye mu nzu ,araramye ,arimo guseka yishimye. Inyuma ye hari indabo ndetse haragaragara n'andi mazu. Bigaragaza ko, ari imibereho myiza y'abantu bishimye baseka.

Abantu icumi bahagaze imbere y'icyapa cy'Imbuto foundation, imbuto byanditse mu magambo agaragara, bahagaze ahantu hapavomye batanu muri bo bafite impamyabushobozi barimo gufata ifoto, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'inzu nini cyane.

Icyapa cy'ubururu cy'ifoto y'umugabo cyanditseho Welcome back. Ni icya Kigali Psycho-medical centre, niko byanditseho. Kiravuga ko umuhanga mu by'ubuvuzi bwo mu mutwe wize neza ku bana n'abangavu. Yagarutse bazajya bamubona ku wa gatatu no ku wa gatandatu.

Itsinda ry'abantu bahagaze mu nzu bareba imbere nk'abari gufata ifoto y'urwibutso barangije cyangwa bagiye gutangira inama, bari mu nzu isukuye irimo ameza magari ndetse isakaye.

Abaturage bitabiriye igikorwa cy'ubuvuzi cyangwa ubukangurambaga mu ruhame, abaganga baje bambaye udupfukamunwa, bari gufasha abaje kwandikwa cyangwa kugirwa inama, mu rwego rwo kwirinda no gukumira indwara.

Abana benshi bari kumwe n'umukecuru bose bicaye hasi batumbiriye imbere, bamwe bifashe ku matama nk'aho bafite ikibazo cy'ubuzima mu mibereho yabo.

Abantu benshi higanjemo ababyeyi bamwe bahetse abana, bicaye mu ntebe mu nzu mberabyombi batumbiriye imbere umugabo urimo kubasobanurira agira ibyo abigisha bijyanye n'imibereho myiza.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, batumbiriye umuntu ubahagaze imbere agira icyo ababwira nk'inama kugira ngo bafate icyemezo, inzu barimo irasukuye ifite urugi rufunguye n'amadirishya arimo n'amarido.

Abantu batandukanye bicaye mu nzu bakoze ikiziga abandi barahagaze, basa nkaho baje kuganirizwa cyangwa gufashwa bitewe n'ikibazo bafite cy'uburwayi bwo mu mutwe nkuko bigaragara ku byapa bihari.

Abantu benshi bahagaze hanze, bari kureba imbere. Bameze nk'abari gufata ifoto y'urwibutso, barangije cyangwa bagiye gutangira inama. Nkuko byanditse ku cyapa bafite, bahujwe n'igikorwa kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Yaba uburwayi cyangwa ikindi kibazo umuntu yagira cy'imitekerereze.

Umuntu usa nabi ufite n'imisatsi yanduye, wambaye imyenda mibi, yicaye hasi, n'ikigurudumu yakizirinzeho. Iruhande rwe hari abandi bantu ameze nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe cyatumye yifata nabi.

Abantu benshi bahagaze bareba imbere. Harimo n'abo mu nzego zishinzwe umutekano. Inyuma yabo hari ikirangantego cy'u Rwanda. N'amagambo ahanditse bigaragaza ko bashinzwe gukurikirana ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse no guhohotera abana. Barasa nk'abarangije inama cyangwa bagiye gukora inama, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, umwe afite igikoresho cy'ikoranabuhanga ari kurebamo, asa nk'uri kumufasha amuganiriza, amwereka n'ibintu muri mudasobwa.

Umuntu usa nabi wambaye imyenda yacitse, yicaye ku muhanda yegamiye igikuta, afite ibikoresho byashaje, asa n'uri mu buzima bugoye, ashobora kubasabiriza cyangwa atagira aho kuba, yifashe mapfubyi ku itama.

Abantu cumi na bane bahagaze bareba imbere mu marembo y'inzu, nk'abari gufata ifoto y'urwibutso barangije cyangwa bagiye gutangira inama. Iruhande rwabo hari icyapa kigaragaza ko baje mu bijyanye n'umuryango ushinzwe kubaka cya gukurikirana ubutabera.

Icyapa cyanditseho Mental Health mu magambo agaragara. Ndetse handitseho n'indwara zose cyangwa ibibazo umuntu ashobora kugira byo mu mutwe, bigatuma adatekereza neza.

Umugabo muremure wambaye ikote n'ishati y'ubururu, arahagaze yunamye areba hasi, imbere ye hari ururabyo rutatse indabyo nyinshi, iruhande rwe hahagaze umuntu wambaye umwenda w' akazi ari kumureba nk'abafite icyo barimo kwibuka bagitekerezaho kugira ngo batazibagirwa bagatesha agaciro ibyabaye.

Umutwe w'umuntu w'igitsina gore ukuze, ari kureba imbere arakaye cyane, yiteze igitambaro, asa nk'umuntu ufite ibibazo cyangwa afite abantu bamukoreye amakosa arimo gutonganya.

Itsinda ry'abantu bari mu ihema, berekana udushya n'ibikoresho bitandukanye ku meza, bigaragara ko ari mu imurikabikorwa cyangwa imurikagurisha ry'ibijyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga.

Abantu batatu, bicaye hanze ku ntebe, bambaye n'udupfukamunwa, barimo kuganira, inyuma yabo hari ikibuga, inzu y'amabati n'ibiti biri kugaragara, bari kuganirira hanze nk'abantu bafite icyo bashaka guha umurongo cyangwa gufatira umwanzuro.

Ababyeyi batatu bateze ibitambaro bambaye imipira ndetse n'igitenge, umwe ateruye umwana ari kumwonsa, bose bafashe inkoni z'imikenyeri mu ntoki. Bari mu murima inyuma yabo hagaragara ibiti bitandukanye, ibinsina ndetse n'ibindi bimera biteyemo, bigaragaza ko bari hanze mu imirimo yabo isanzwe.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, gishushanyijeho umugabo, iruhande rwe hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'irindi bendera riri mu mabara y'ubururu n'umweru, handitseho ngo turikumwe, twese hamwe twakubaka ejo hacu heza.

umugabo uhagaze mu byatsi imbere y'abantu atumbiriye imbere nkaho hari umuntu urimo ku mufotora nyumaye hari abandi bantu benshi n'abambaye amakarita y'akazi ameze nk'aho yari amaze gutanga ikiganiro cyangwa ari umuyobozi w'abo baturage bafite ibyo bari kumubaza ari gusobanura

Abantu batandukanye bicaye mu nzu, umubyeyi umwe afite indangururamajwi arimo kuvuga areba imbere nk'aho hari igitekerezo ari gutanga cyangwa hari icyo ari gusobanura mu nama, biragaragara ko hari icyo bari gushakira umuti cyangwa bari gufatira umwanzuro.

Ababyeyi babiri bambaye igitenge hasi bateruye abana, bari kumwe n'undi muntu usa nkaho ari kubaganiriza, ni inzu irimo ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari ahantu hasanzwe hatuwe, asa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe bitewe n'uko ari kubareba nabi.

Umubyeyi wicaye hanze y'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara. Iyo nzu ikinzwe n'umuryango w'ibiti. Ateruye umwana ndetse iruhande rwe hicaye n'undi. Imbere yabo hari mironko n'inkoko iriho soya wagira ngo barimo baragosora. Arasa nk'uwihebye cyangwa ufite ibibazo bitewe n'imibereho mibi arimo.

Umuntu wicaye kwa muganga areba hejuru, ari kumwe n'undi muntu uri kumwereka udukoresho amwishimiye, n'ikiganza cyambaye agapfukantoki kiri kumukoza agakoresho ku munwa nk'aho bari kumusuzuma cyangwa bari kumuvura uburwayi bw'amenyo.

Amenyo ari mu rwasaya rwo hasi no hejuru, afashwe n'imashini yo mu buvuzi, bigaragaza ibibazo amenyo afite kugira ngo bayasuzume cyangwa bayavure uburwayi afite.

Amenyo yo hejuru no hasi, ari mu rwasaya rwasamuye, mu ibara ry'umweru n'umukara. Ni ifoto yafashwe n'icyuma cya gihanga, gikoreshwa mu kureba amenyo bagasuzuma, ibibazo byaba birimo.

Umuntu uri gutunganya amenyo akoresheje umugozi w'amenyo, awufashe mu biganza bibiri. Ari kuwukoza hagati y'amenyo, agakuramo imyanda mu buryo bwo kwirinda indwara ziturutse mu mwanda w'amenyo.

Umuntu uhagaze mu nzu. Ari kwireba mu ndorerwamo ,akoresha agakoresho mu menyo, akuramo imyanda. Birasa nkaho abyutse ,bitewe nuko yambaye imyenda yo kurarana, arimo gusukura amenyo kugira ngo agire mu kanwa heza.

Urutoki rutunze ku kanwa k'umuntu wasamye afite mu menyo heza, yambaye amadarubindi afite n'ubwanwa, yambaye n'umupira w'umweru bigaragaza ko ari kutwereka ibijyanye no kwita ku menyo, tuyagirira isuku kandi tunayavuza mu gihe bibaye ngombwa.

Icyumba cyo kwa muganga. Harateguye neza. Hari intebe zabugenewe. Abarwayi bicaraho bakabasuzuma bakareba uko amenyo yabo ameze. Harakubuye, hafite isuku kugira ngo bite ku murwayi neza.

Umwana wicaye areba hejuru, arasamye, hari n'intoki z'umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'udupfukantoki, ari kumukoza ibyuma mu kanwa nkaho ari kumusuzuma cyangwa amuvura ibibazo afite mu menyo.

Abana benshi bafite uburoso bw'amenyo buriho na korogate, babushyize mu menyo barimo koza amenyo, bafite n'amazi bari gukoresha mu bikombe, bigaragaza kwita ku menyo uyasukura neza.

Amenyo yo hasi no hejuru mu misaya yombi, mu ibara ry'umukara n'umweru. Yafashwe n'imashini yabugenewe, yerekana ikibazo umuntu yaba afite mu kanwa kugira ngo abaganga bamuvure cyangwa bavuge ko yakize.

Amenyo yo hasi no hejuru ari mu rwasaya umunwa wafunguye, ari mu ibara ry'umweru n'umukara, bigaragara ko ryafashwe n'icyuma cyabugenewe ruri kugaragaza mo imbere mu menyo, kugira ngo muganga arebe ikibazo amenyo yaba afite.

Amenyo yo hasi no hejuru, ni ibara ry'umukara n'umweru yafotowe n'imashini yo kwa muganga yabugenewe. Kugira ngo yerekane ikibazo amenyo yaba afite n'aho aherereye kugirango babashe kuyasuzuma neza banayavure.

Umugabo w'inzobe wambaye umupira w'ubururu bwijimye ari guseka atumbiriye imbere ye nk'umuntu uri kumufotora, arogoshe umusatsi, afite ubwanwa.

Umuntu uri kwireba mu kirori, arasamye, afashe mu ntoki umugozi w'amenyo ari kuwukoza hagati y'amenyo, ari gukuramo imyanda mu buryo bwo gusukura amenyo yirinda indwara zitandukanye zifata amenyo

Abantu babiri bicaye mu ihema, umwe yambaye isengeri araramye yasamye, undi bari kumwe w'umuganga ari kumukoza agakoresho mu menyo nkaho ari kumupima cyangwa afotora kugira ngo arebe ikibazo amenyo yaba afite, hirya yabo hari abandi bantu barimo kwandika bambaye n'udupfukamunwa, bigaragaza ko bari mu isuzuma cyangwa bari kuvura amenyo uburwayi butandukanye.

Abantu benshi batonze umurongo n'abaganga barimo kubitaho bafite ibikoresho bitandukanye, bari imbere y'ihema ririho icyapa k'Ikigo cy'Igihugu gizwe ubuzima mu Rwanda, baje mu rwego rwo gusuzuma amenyo kuvura abantu bafite ikibazo cy'amenyo ku munsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa.

Umuntu uryamye areba hejuru mu nzu, ari kumwe n'abaganga babiri bafite ikoresho, arasamye bari kumupima mu kanwa, ni icyumba cyo kwa muganga bavuriramo uburwayi bw'amenyo, kugira ngo barebe ikibazo afite cyangwa bayakurikirane.

Umugore n'umukobwa bicaye mu nzu ahantu hateguye neza, hari ameza ariho amazi na telefoni z'abantu, bafashe mu ntoki impapuro bari kwandikaho umubyeyi. Inyuma yaho hari ibyapa bigaragaza ko bari mu bikorwa bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Umuntu uryamye areba hejuru yasamye, ari kumwe n'umuganga wambaye umwambaro w'akazi ndetse n'ingofero n'agapfukamunwa n'udupfukantoki, ari kumukoza ibikoresho mu kanwa nkaho ari kumuvura ibibazo amenyo ye yaba afite. Hirya ye hari ibindi bikoresho bigaragaza ko ari inzu yabugenewe basuzumimo cyangwa bavuriramo abarwayi b'amenyo.

Abantu benshi harimo n'abana, bamwe bambaye imipira y'icyatsi yanditseho ngo tubitaho. Bamwe baricaye ku meza y'umweru abandi bari inyuma yayo, umwe afite akantu ari gushyira mu menyo, bigaragara ko bari mu nama cyangwa mu gikorwa kijyanye n'iby'amenyo kuko bafite n'imiti imbere yabo.

Umuntu wegamye areba hejuru, arasamemye, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi, agapfukamunwa, amadarubindi ndetse n'udupfukantoki, ari kumukoza ibikoresho mu menyo nk'aho ari kumusuzuma cyangwa ariko kumuvura indwara z'amenyo, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore wicaye mu cyumba cyo kwa muganga yegamye aseka, hari agatambaro bamurambitse mu gatuza. Iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye bakoresha mu buvuzi bw'amenyo, bisa nkaho yaje kuvura cyangwa kwivuza amenyo cyangwa kwisuzumisha kugira ngo arebe uko ubuzima bw'amenyo ye buhagaze.

Abantu babiri bari kugenda mu nzira bishimye, bari kunyura ahantu hari indabyo, ibyatsi ndetse n'ibiti, ntakavuyo k'abantu benshi bahari basa nk'aho bishimanye bigaragaza gusaza neza ufite ubuzima buzira umuze.

Umusaza n'umukecuru, bafatanye ku rutugu, barimo guseka, umukecuru ari kureba imbere, umusaza amaso ayahanze ku mukecuru, basazanye bishima bigaragaza kugira amasaziro meza.

Abantu bakuru bafite ibikoresho byo gukoresha imyitozo ngororamubiri mu ntoki, umwe ari imbere yabo aseka, afite akanyamuneza, bose basa nk'abishimye kandi bitabiriye imyitozo, bari ahantu hari ikirere cyiza.

Abantu babiri barimo kugenda, umwe afite imbago za kizungu ziri kumufasha gutambuka, ari kumwe n'undi muntu umwitayeho arimo agenda amusekera amufasheho, ari kumutera imbaraga kugira ngo babashe gutambuka bagire aho bagera.

Abantu benshi batandukanye bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe, bari munsi y'ibiti barimo kuganira, higanjemo abakuze, inyuma yabo hari inzu n'indabyo zigaragara, bigaragaza gufashanya hagati y'abantu ndetse n'abakuze kugira ngo bagire icyo bageraho, basaze neza.

Abantu bakuru bari kwirukanka hanze bakora imyitozo ngororamubiri, bageze ahantu hari ibiti mu kirere cyaka gisa nk'aho kirimo izuba ryinshi.

Umukecuru wicaye hanze y'inzu, afite inkono iri ku ziko aratetse, iruhande rwe hari inkwi ndetse atekeye impande y'ibindi biti bitandukanye, bigaragaza gusaza uri wenyine wikorana imirimo yo mu rugo.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko maremare, yicaye ku gitanda, arimo kunywera mu kirahure, ari kumwe n'umukecuru uri kumureba ahagaze imbere ye amwishimiye nkaho ari we umaze kumuha icyo kunywa, bari mu nzu nziza banezerewe barasazanye.

Umukecuru ufatanye n'umuntu mukuru ndetse n'umwana bari mu nzu, bishimye bameze neza, hari n'ibindi bikoresho nk'ibikombe, bigaragaza ko ari inzu basanzwe babamo, barishimye nkaho babaye mu buzima bwiza, bita ku mukecuru wabo.

Umusaza wicaye ku ntebe hanze mu busitani, ari kumwe n'umuntu uri kumwitaho, bose bambaye udupfukamunwa, impande zabo hari ibiti bitandukanye, inyuma yabo hari inzu, bigaragare ko arimo kumwitaho amufungira ibipesu kugira ngo asazanye akanyamuneza.

Umusaza wicaye ku ntebe y'abarwayi, ari kureba imbere, inyuma ye hari umuganga wambaye imyenda y'akazi n'agakoresho mu ijosi, barimo kureba imbere nk'aho hari icyo batumbereye, umuganga afashe kuri iyo ntebe nko kumufasha gutamuka.

Umukecuru ufashe muntoki inkoni y'icyuma, yicaye ku ntebe mu nzu isukuye, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi, bameze nk'abari gufata ifoto y'urwibutso kuko batumbiriye imbere, baseka bishimye.

Abantu batatu bakuze. Bicaye mu nzu nziza iteguye. Barimo kureba muri telefone. Ahantu bari hari utubati turimo ibikoresho ndetse n'ibindi bibateretse imbere nk'aho bafite icyo bafasha bagenzi babo.

Umukecuru uhagaze mu nzu, apfutse amazuru n'umunwa akoresheje ikiganza k'iburyo mu kuboko kw'ibumoso, afashe igikombe asa nkaho ari gusenga, hari ibyo ari gukurura mu mazuru cyangwa afite ibyo ari gutekereza.

Umukecuru wicaye. Ahereje ukuboko umuganga wambaye imyenda y'akazi n'ibindi bikoresho. Asa nk'uri kumufasha ku kaboko aho yagize imvune cyangwa igikomere kugira ngo yongere abeho neza abashe gukora imirimo ye.

Umusaza wicaye ku ntebe munzu, arikumwe n'undi muntu wambaye imyenda y'ubururu, imeze nk'iy'akazi, ari kumureba mumaso amusekera, nkaho arimo kumwitaho. Kugira ngo agire ubuzima bwiza. Inzu barimo, harimo ibindi bikoresho nk'intebe, bigaragaza ko ari inzu isanzwe, ituwemo abantu.

Umuntu ukuze aricaye ari kumwe n'undi muntu ukiri mutoya, ari kumufasha gufata mu ntoki agakoresho agafashe mu kiganza cy'iburyo kugira ngo agorore ingingo, agire ubuzima bwiza yirinde ndwara zitandukanye.

Umusaza wunamye uri mu muryango w'inzu, ari kumwe n'undi muntu wambaye agapfukamunwa umufashe mu mugongo nkaho ari kumufasha gutambuka cya ari kumukomeza yahuye n'uburwayi. Bigaragaza kubana neza n'abakuze bagasazanya akanyamuneza bafite ubuzima buzira umuze.

Umusaza wicaye ku ntebe imbere y'ameza arikumwe n'umubyeyi uri kumusukira icyo kunywa mu kirahure cy'umweru umusaza arishimye ku meza hari abindi byo kurya ari buze gufatisha bari mu nzu ahantu heza hateguye basazanye ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye hanze y'inzu, ari kumwe n'abana babiri, barimo kurya. Umusaza afite inkoni mu ntoki, bigaragaza imibereho myiza y'umuryango ugizwe n'abakuze ndetse n'umwana.

Umukecuru uri kureba imbere, amaboko ye arayarambuye afashe mu ntoki udukoresho tumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ananure ingingo agire ubuzima bwiza, bigaragaza ko n'abakuze bagomba gukora imyitozo kugira ngo birinde indwara za hato na hato.

Umusaza wicaye ku ntebe y'abarwayi, inyuma ye hari umuganga ufashe ku ntebe nk'uri kumusunika amufasha kugenda batumbiriye, imbere yabo hari icyo barangariye, inyuma yabo hicaye abandi bantu bakuze bigaragaza ko ari ahantu bita ku bantu bakuze.

Umukecuru wicaye ku ntebe y'abarwayi mu nzu ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi yamushyizeho agakoresho arimo kumupima. Bari mu nzu isa nkaho ari iyo asanzwe atuyemo kuko harimo intebe zisanzwe.

Umusaza wicaye ku ntebe ari kumwe n'undi muntu wambaye imyenda y'akazi, bari kurebana bishimye mu nzu nziza, aho ari kumwitaho mu nzu bitiraho abantu bakuze kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu bakuze bicaye ku ntebe inyuma y'inzu, bambaye imyenda idasanzwe n'ingofero zitangaje, barasa nkaho hari igikorwa cyabazanye hari umuntu bategereje ko abakira akabafashacyangwa umuntu uri bubaganirize barindiriye.

Umukecuru wicaye azamuye ibiganza byombi, afashe umushumi mu ntoki, ari kumwe n'undi muntu uri kumureberera, yambaye imyenda y'akazi, bari mu cyumba, bigaragara ko arimo kumwitaho kugira ngo agire amasaziro meza.

Abantu bakuru batanu, bari kumwe n'umwana umwe, bicaye imbere yinzu, bari kurebana baseka bishimye, inyuma yabo haragaragara indabyo n'igisenge cy'inzu nziza isukuye, ikimenyetso cy'umuryango ubanye neza wishimye.

Umusaza wicaye mu nzu. Mu kiganza afitemo igikombe cy'amazi. Ari kumwe n'umuntu uri kumusukira nk'umuti mu kindi kiganza nkaho agiye kumufasha kuyinywa, bari mu nzu isanzwe ituyemo abantu bitewe n'ibikoresho bihari.

Umusaza ufite imvi mu musatsi, yambaye amadarubindi ndetse n'umupira w'umweru, yicaye ku ntebe. Ari kumwe n'undi muntu wambaye y'akazi y'umutuku, ari kumufasha ku dukoresho kugira ngo akore imyitozo ngororamubiri, agire ubuzima buzira umuze.

Umusaza uri kumwe n'abandi bantu batatu bakuru ndetse n'abana babiri, bose bafite ibyishimo baseka cyane, batumbiriye imbere nk'abari gufata ifoto, ahantu hari ibiti ndetse n'izuba bigaragaza urukundo n'ubusabane hagati y'abantu b'ingeri zitandukanye mu muryango.

Umusaza wicaye ku ntebe mu nzu, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi, ari kumushyira agakoresho ku kuboko kw'iburyo gapima gutera ku mutima, kugira ngo amusuzume arebe ko nta kibazo afite, umutima utera neza, cyangwa ko arimo kugenda yoroherwa.

Abantu babiri, umukecuru atumbiriye undi muntu mukuru w'igitsina gore, amwishimye arambuye amaboko. Uwo muntu mukuru ufite imitsi miremire, arimo kumufasha kugorora ingingo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusaza ufashe mu ntoki agakoresho kamufasha kugenda ari kumwe n'undi muntu w'igitsina gore uri kumufasha amwerekera uko yagakoresha kugira ngo abashe gutambuka. Bari mu nzu irimo ibindi bikoresho nk'intebe, akabati bigaragara ko ari inzu basanzwe babamo mu buzima busanzwe.

Umukecuru wambaye umupira, arambuye akaboko atumbiriye imbere, inyuma ye hari undi muntu, wambaye hejuru isengeri bakorana imyitozo ngororamubiri, bose barambuye amaboko batumbiriye imbere, bigaragaza ko uwo muntu ari gufasha umukecuru kunanura ingingo.

Umusaza wicaye ku ntebe ari kumwe n'undi muntu ufite mudasobwa imbere ye. Umusaza ari kwitegereza agacupa karimo ifu, asoma ibyanditse ku gapapuro gafashe kuri iryo cupa. Uwo bari kumwe na we aramutumbiriye nk'aho ari kumufasha gusobanukirwa iby'iryo cupa.

Umukecuru afite imitsi yajemo imvi nyinshi, ahagaze ari kurebana n'umuganga wambaye imyenda y'akazi ufite n'utundi dukoresho, muganga aramwishimiye nkaho hari icyo kumufasha mu bijyanye n'imibereho myiza.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretsemo icupa rimeze nk'iririmo imiti. Umukecuru afashe mu ntoki urupapuro nkaho bari gusomera hamwe ibigize cyangwa uko bakoresha uwo muti kugira ngo bawufate neza, babashe gukira cyangwa birinde indwara runaka.

Umukecuru wicaye kuri tapi hanze mu busitani, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arunamye, amaguru ye ararambuye n'amaboko ari kuyakoza ku mpera z'ibirenge kugira ngo agorore umugongo n'izindi ngingo agire ubuzima bwiza.

Abantu icumi bahagaze hanze mu murima, barishimye bareba imbere bazamuye ibiganza harimo ab' igitsinagore barindwi n'ab'igitsina gabo batatu, mu murima bahagazemo hahinzemo ibigori n'indi myaka ndetse harimo n'ibiti, ikirere kirijimye nk'aho imvura igiye kugwa hari mu gitondo cyangwa nimugoroba bugiye kwira.

Itsinda ry'abantu bamwe bicaye abandi bahagaze bari kureba imbere nk'aho barangije inama cyangwa bagiye kuyitangira barimo gufata ifoto y'urwibutso. Iruhande rwabo hari ibyapa bigaragaza ko ari inama yateguwe cyangwa ikiganiro bateguye, bari mu nzu isukuye.

Abakuru, bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma yabo ndetse inyuma yabo hari icyapa n'amabendera biratandukanye, bigaragaza ko baturutse mu bihugu bitandukanye, nkuko bigaragara ku cyapa kibari inyuma, baje ku murwa mukuru kwizihiza umunsi mukuru w'imiti nyafurika.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, ririho uburyo wakwirinda gukwirakwiza cyangwa kwandura icyorezo cya Korona virusi, gishushanyijeho n'abantu bari kwerekana buryo ki yandura, n'uko wayirinda.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, bambaye n'ingofero n'udupfukamunwa byabugenewe. Bari mu nzu, babagiramo abarwayi . Hari umurwayi uryamye areba hejuru, bamushyiho n'ibindi bikoresho, barasa nk'abari kumufasha. Ndetse muri iyo nzu, harimo n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi bifashisha. Ni inzu iteguye neza, mu cyumba cy'abarwayi mu bitaro.

Abantu barindwi, bahagaze imbere y'icyapa, batumbiriye imbere yabo nk'abari gufata ifoto y'urwibutso, bagiye gutangira cyangwa basoje inama, bameze nk'abantu b'abayobozi bafite ibyo bagiye cyangwa basoje kuganiraraho.

Abantu benshi bahagaze imbere mu nzu ahagaragara. Bambaye imipira y'umweru bafite udukoresho mu ntoki, baturebereramo nk'aho barimo gufata ifoto y'urwibutso bamurika ibikorwa byabo.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi n'ingofero n'udupfukamunwa. Batumbiriye umurwayi uryamye hagati yabo areba hejuru, hari n'ibindi bikoresho bakoresha mu buvuzi, icyo cyumba kirasukuye, barimo kumwitaho kugira ngo akire.

Ikirangantego cy'umweru mu ibara ry'ubururu, rigizwe n'uruziga rupfundikiye hasi mo imbere hari agaseke n'amasaka ku ruhande, hejuru yayo hari imirasire y'izuba, munsi handitseho Republic of Rwanda, Ministry of Health.

Y'inama y'igihugu y'abahanga mu buvuzima batari abaganga yibanda ku byiza byo gukurikiza amabwiriza cyane cyane ishimangira umutekano w'umurwayi. Amasomo ari munsi y'ifoto y'umukozi mu buvuzi uri kuganira n'umwana agira ati:'' Bituma hatangwa serivisi z'ubuvuzi zinoze kandi zishingiye ku ndangagaciro z'umwuga.''

Icyapa kiriho inzego z'ubuvuzi mu Rwanda, harimo ubuvuzi bwegereye abaturage, kuzamuka kugeza ku rwego rw'igihugu, kugira ngo bereke umuntu aho yagana ndetse nk'uko bagenda bahererekanya umurwayi bitewe n'ubufasha akeneye.

Icyapa cy'icyatsi cyanditseho mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umweru, twirinde. Mu ibara ry'umuhondo, indwara y'ubushita bw'inkende. Nyuma y'ayo magambo, hari ifoto ya virusi, mu buryo bwo gukangurira abantu kwirinda kwanduzanya, no gukwirakwiza indwara y'ubushita.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu nzu mberabyombi, batumbiriye imbere nk'aho hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro cyangwa, bari mu nama kugira ngo bafate umwanzuro cyangwa bagire ibyo baha umurongo, inzu barimo ifite ibikuta bitatse amabara ndetse harasukuye, bigaragaza ko ari ahantu hateguriwe guhurira abantu.

Umuntu wicaye ku ntebe, ari kumwe n'umukozi ukora mu by'ubuzima uri kumutera urushinge ku kaboko k'ibumoso, inyuma ye hari undi muntu uri kurebera, bisa nkaho baje mu gikorwa cyo gukingira cyangwa kuvurira ahantu rusange hahurira abantu, iruhande rw'uwo muntu wicaye, hari ibindi bikoresho bifashisha kugira ngo bite ku murwayi cyangwa umuntu uri kwisuzumisha.

Itsinda ry'abantu, abenshi bambaye amashati y'umweru, bafite inyandiko mu Kinyarwanda n'ibyapa bikangurira urubyiruko kwipimisha, uyu munsi no kwirinda virusi itera SIDA kubera ko aribo ejo heza h'u Rwanda.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye imbere yabo mu nzu mbera byombi, inyuma yabo hari icyapa ndetse harimo n'abantu bitandiye, mbere yabo hari ameza n'intebe bigaragara ko bari bicaye barimo kuganira cyangwa bari gusangira kugira ngo bagire umwanzuro bafata cyangwa bagire icyo bavugaho bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Igifuniko cy'igitabo, abarimu bo mu mashuri yisumbuye bakoresha, bari kwigisha abana ku bijyanye n'imyororokere ndetse n'imikurire mu mashuri.

Itsinda ry'abantu bicaye mu nzu mberabyombi. Batumbiriye imbere abantu batandatu, basa n'aho bari kubaganiriza, cyangwa se bafite icyo bari kubagezaho. Inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho abantu, nk'abafatanyabikorwa bameze nk'abari mu nama cyangwa hari ikiganiro bitabiriye hamwe.

Itsinda ry'abaganga barimo kubaga, bamwe bambaye imyambaro y'icyatsi, udupfukamuwa n'ingofero, bahagaze mu nzu iruhande rw'imeza irambitseho igitambaro cy'icyatsi, umuganga umwe ari gufata ibikoresho, hari n'imashini ziri kugaragaza amashusho y'ibiri kubera aho ngaho muri icyo cyumba kugira ngo bakurikirane uko murwayi yavuwe abagwa.

Abantu benshi higanjemo abambaye imipira y'umweru, bahagaze mu kibuga bareba imbere, nkuko bigaragara ku cyapa bari gutanga itangazo ryerekeye kwirinda kanseri y'ibere, bayisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira, inyuma yabo hari ibiti n'uruzitiro rw'inzu, bigaragaza ko bameze nk'abari gufata ifoto y'urwibutso.

Abarwayi babiri baryamye ku bitanda mu cyumba cyo kwa muganga, barimo ibikoresho bibafasha guhumeka n'ibindi bitandukanye. Ni inzu yateguriwe kwakira abarwayi bakabakurikirana mpaka bakize, harimo n'ibikoresho bakenera.

Ubusitani bwiza burimo ibiti bitandukanye n'ibyatsi n'indabyo, buri iruhande rw'amazu menshi, hari n'utuyira n'ahaparitse imodoka, bigaragaza ko ari ihuriro ry'abantu benshi, urugero baje nko kwivuza nk'ibitaro, hari amazu menshi yo kubakurikirana ubundi abantu bagakira.

Abantu benshi bicaye hagati mu nzu y'abarwayi, hari n'abandi barimo kubanyuraho ndetse n'abaganga bambaye imyenda y'akazi barimo kugenda babafasha banabaganiriza, basa nkaho bategereje ubageraho ngo abafashe kubona uburyo babavura.

Amarembo y'inzu ngari isukuye, imbere yaho hari ubusitani n'ibiti ndetse n'abantu batandukanye, hameze nko kwa muganga mu kirere kijimye nkaho ari nimugoroba cyangwa mu gitondo butari bwacya neza, abantu barahagana kugira ngo bivuze indwara zitandukanye.

Imodoka iparitse imbere y'aho bakirira abantu, mu nzu ngari yubakishije amatafari, igeretse ifite urusengero rw'umweru, ni ku biro bikuru by'abantu bashinzwe ibijyanye no gufata amaraso bagatabara imbabare.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi y'icyapa legacy clinics bamanitse igipfunsi batumbiriye imbere yabo nk'umuntu uri kubafotora.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi ari mu cyumba cy'abarwayi, arunamye, ari kumva ku kirenge cy'umurwayi kugira ngo bamusuzume, bamenye uko ameze, bamenye n'uko bamukurikirana, inzu isize amarange y'umweru, inyuma y'aho hari ibyapa kugira ngo bafate neza umurwayi akire.

Umuganga wambaye umwenda w'akazi. N'ingofero n'agapfukamunwa. Ari gusuzuma umwana w'uruhinja. Uteruwe n'umubyeyi uri kureba umwana we yishimye.

Koridori isukuye yo kwa muganga inyura hagati y'ibyumba bitandukanye, hari urumuri amatara arimo kwaka, bigaragaza ahantu heza abarwayi n'abaganga banyura, bakabitaho abarwayi bagakira.

Umuntu uryamye mu cyumba cyo kwa muganga ku gitanda areba hejuru, acometseho imashini iyungurura amaraso, hari n'umuganga wambaye imyenda y'akazi, ni icyumba kinini kirimo n'ibindi bitanda ndetse n'ibindi bikoresho nkaho bahavurira impyiko kubera ko hari amamashini ndetse n'ibikoresho bifashisha.

Inzu ya kijyambere igeretse yanditseho Shyira District hospital ni ibiro by'akarere ka Shyira aho wasanga abayobozi kugira ngo bagire icyo bagufasha bitewe n'ikibazo ufite ndetse hari n'ibyapa hanze, mo mw'imbere biragaragara ko hasukuye.

Icyapa cyanditseho Ibitaro bya Ruhengeri biherereye i Musanze, ni ibitaro biri ku muhanda, mo imbere hari ubusitani bwiza n'amazu agezweho, ku muhanda hanze yabyo hari abantu benshi bari kugenda, bigaragaza ko ari ahantu haganwa n'abarwayi benshi baje kwisuzumisha cyangwa kwivuza.

Ibitanda bine biri mu cyumba cyo kwa muganga bitariho abarwayi, ibitanda bifite inkingi z'ubururu kandi bimwe bifite imigozi bateramo imiti abarwayi, hari ameza mato hafi aho ngaho ndetse iki cyumba kirasa neza kirasukuye.

Umuganga wambaye itaburiya n'udupfukantoki, arunamye akoresheje ikiganza cy'iburyo arimo gutera urushinge umugabo wicaye ku ntebe ku kaboko k'ibumoso, iruhande rwabo hari abandi bantu bicaye bisa nkaho bitabiriye igikorwa cyo gukingira cyangwa kwiteza inshinge bitewe n'ibibazo bafite cyangwa icyo bashaka kugeraho ku buzima.

Umuryango mugari w'umweru ufunguye, ku nzu yubakishije amatafari ahiye, hejuru y'umuryango handitseho mu magambo manini: "Isange One Stop Center," aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inzu ya kijyambere ifite ubwiza karemano, imbere hasi ikozwe n'amabuye, ikikijwe n'indabo z'amabara menshi n'ibyatsi bitoshye, hari abantu imbere y'imiryango mu nzira yerekeza ku muryango mukuru.

Koridori icanye neza mu nyubako imeze nk'ivuriro, ifite inzugi zibajwe mu biti n'icyapa kiri ku rugi rumwe bigaragaza ko ari aho bakirira abantu n'igihangano cy'ubugeni, ni ahantu harangwa n'isuku.

Inzira ijya ku marembo y'ikigo nderabuzima cyatabagwe. Hanze hari abantu benshi, hari n'uruzitiro rwa kijyambere bigaragaza ko ari ahantu bavura indwara zitandukanye mu Rwanda.

Icyumba cyo mu bitaro gisukuye. Kirimo amatara n'amadirishya ku ruhande. Harimo uburiri bw'abarwayi butarimo abantu, butondekanye ku murongo, butandukanijwe n'amarido asa n'umuhondo.

Inzu igeretse ya kijyambere isize amarangi y'umweru n'amadirishya y'ibirahure. Ku mpande hari udukuta twubakishije amatafari ahiye ndetse ifite uruzitiro rwubakishijwe ibyuma. Ku mpande hari abantu benshi barimo begenda, bigaragara ko ari inzu iri ku muhanda igendwa n'abantu batandukanye baje kugira ngo babafashe.

Amarembo y'inzu nziza igeretse yanditseho mu magambo agaragara Medical Research Institute, hari n'umuhanda w'abanyamaguru uteguye neza. Imbere y'inzu hari ubusitani bwiza n'indabyo zihateye ndetse ku muryango hirya haparitse imodoka nziza.

Icyumba cy'ubuvuzi cyagenewe gupimiramo abarwayi b'imitima, harimo ibikoresho bitandukanye abaganga bakoresha bapima abarwayi, ni icyumba giteguye neza gifite isuku, hamanitse n'isaaha, n'imashini zitandukanye abaganga bifashisha kugirango ngo bakurikirane ubuzima bw'umurwayi.

Ibitanda bitatu biri kumwe n'ibindi byuma bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho, biri mu cyumba gisukuye neza nko kwa muganga, aho bakirira abarwayi bakabitaho kugeza igihe bakiriye neza bagataha mu ngo zabo.

Umwana wambaye ubusa hejuru aricaye, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi, ari kumukozaho utwuma amuzuma ndetse ari kurebana n'undi muntu mukuru, bisa nk'aho baje kumuvuza cyangwa bamusuzumisha kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Umuhanda ugera ku nzu yagutse igeretse, hari ubusitani bwiza ndetse iyo nzu isize amarangi atandukanye, bigaragaza ko ari inzu yagenewe guhuriramo abantu benshi kandi biyubashye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nini abarwayi banyuramo, kigafoturara mu mubiri wabo ukabereka ibibazo baba bafite cyangwa niba barakize. Hari n'ibindi bikoresho biri mu tubati bifashisha kugira ngo bite ku murwayi, bamenye ikibazo afite kandi bamukurikirane akire.

Imashini nini ikoranye ubuhanga, mo hagati harimo umwenge banyuzamo umuntu bari kumucisha mu cyuma, bakareba imikorere n'imiterere y'umubiri we kugira ngo bamusuzume cyangwa bamuvure. Iri mu cyumba cyiza, harimo n'ibindi bikoresho bifashisha bari kwita ku baje babagana b'abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, amarido y'ubururu ndetse n'inzitiramibu. Hagiye hatandukanyijwe n’amarido bigaragaza ko ari ahantu bacumbikira abarwayi bari mu bitaro, kugira ngo bakomeze babakurikirane, barebe ko bakira.

Amarembo y'ibitaro binini bigeretse, imbere yabyo haparitse imodoka n'abantu bahagaze imbere y'inzu n'abandi barimo bagenda bisa nkaho baje kwivuza, hari n'ibendera ry'u Rwanda, ni mu gihugu cy'u Rwanda ku bitaro, aho abantu baza bakivuza.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo intebe yabugenewe abarwayi bicaramo, bakabasuzuma ndetse n'akandi gatebe gasanzwe, bacyakiriramo abarwayi bakabasuzuma, ko harimo n'ibindi bikoresho bakoresha, kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze bakomeze babakurikirane.

Inzu nziza, ifite igisenge cy'ubururu, imbere yaho hari ubusitani burimo ibyatsi n'ibiti bitandukanye, iruhande rwayo n'inyuma yaho no ku mpande hari andi mazu bigaragaza ko ari inzu yagenewe ibikorwa byo kwita ku barwayi.

Abantu benshi bicaye inyuma y'inzu kwa muganga, harimo ababyeyi bahetse abana, abambaye ibitenge ndetse n'abana abahagaze, iruhande rwabo hari imodoka, bigaragaza ko bategereje ubafashe, hari n'icyapa kigaragaza ibyo bakora n'abafatanyabikorwa.

Umuntu uryamye ku gitanda mu cyumba areba hejuru, ari kumwe n'abantu babiri bari kumwitaho, umwe amushyiraho agakoresho ku kaboko k'ibumoso, undi amukoze ku mutwe nk'uri kumva umuriro afite, asa nkaho ari mu nzu y'abarwayi kwa muganga, aho bakurikiranira abarwayi paka bakize.

Amarembo y'inzu nini igeretse, iruhande rwayo hari ubusitani, imbere yaho hari ibiti, mbese ni ahantu hagenewe guhurira abantu bakomeye, cyangwa gukorerwa amanama ahuza abayobozi b'inzego zitandukanye.

Umuhanda upavomye ujya mu nzu nziza zubatse mu byo bwa kijyambere, iruhande rw'umuhanda hari ubusitani n'indabyo z'ubwoko butandukanye, bigaragara ko ari ahantu hatunganyirijwe guhura kw'abantu basobanutse.

Amarembo y'inzu y'abababyeyi, amarembo arafunze hariho akagozi k'ubururu, yubakishije amatafari ahiye igisenge cy'ubururu n'uruzitiro rw'ibyuma, imbere hari amabuye ndetse n'ubusitani.

Inzu yubakishije amatafari ahiye hejuru hasize irange ry'umuhondo, yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Rwerere, hanze hari umuhanda w'ibitaka n'indabo ndende n'ingufu ziconze neza, hari uri umuntu uri kunyura iruhande rw'igikuta, ni ibitaro aho bavurira abarwayi indwara zitandukanye bagakira.

Inzu bacururizamo imiti ya goodlife pharma, byanditse hejuru y'umuryango mu nyuguti zigaragara, imbere y'aho haparitse imodoka ndetse iruhande rw'aho hari aho bacururiza imyenda.

Abantu benshi bicaye ku ntebe imbere y'aho bakirira abagana ikigo nderabuzima, imbere yabo hari abaganga, bisa nkaho bari kubafasha n'umuntu uri kwinjira nk'aho bari kwakira umwe umwe, harimo n'ababyeyi ndetse n'abana.

Udukarito n'amacupa n'imiti apanze mu tubati mu nzu y'imiti, hari n'urwego bakoresha burira bafata imiti iri hejuru, bigaragaza ahantu babika imiti yo kwa muganga cyangwa mu nzu zigenga zicuruza imiti.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi y'umweru, hari umuntu wicaye ku ntebe yitabwaho, muganga umwe ari kumufasha, undi arimo kwandika, undi aramutumbiriye, bigaragaza ko barimo kumwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza mu cyumba cyo kwa muganga.

Ibikombe ibikarito n'amacupa arimo imiti bivanze mu tubati mu imbere mu nzu bacururizamo imiti, ni inzu isukuye neza hari intebe n'itara n'ijoro bararicana, n'ahantu abantu baza kugura imiti kugira bakire cyangwa bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bishashe bitariho abarwayi. Buri gitanda harambitseho ibikoresho, ndetse hari andi mamashini muri icyo cyumba n'ibindi bikoresho bifashisha barimo kwita ku murwayi, kugira ngo akire cyangwa uburwayi bwe bworoherwe.

Amarembo y'inzu y'ababyeyi, ku ruhande rw'umuryango hari intebe ebyiri zihateretse, aho abarwaza bategerereza ababyeyi babo cyangwa ababyeyi bategerereza ubafasha, hanze hari ibyatsi, ikigega, ndetse n'abantu bari kugenda, n'aho bakirira ababyeyi kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'abana babo cyangwa bababyaze.

Amarembo y'inzu bacururizamo imiti, hejuru handitseho izina ryayo uko yitwa Iraguha, mo imbere hari utubati dupanzemo imiti y'ubwoko butandukanye n'abantu baje babagana, indi iri ku muhanda, hirya haparitse amapikipiki n'imodoka.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, higanjemo abasheshe akangu, imbere yabo hicaye abandi bantu babiri, ndetse n'umuntu uhagaze imbere wa gatatu urimo kubasobanurira cyangwa ari kubaganiriza. Baje mu munsi mukuru wagenewe kurwanya ihohoterwa ry'abakuru.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, uri kunyura mu cyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda, amarido ndetse n'ibindi bikoresho nk'amamashini bifashisha bari kwita ku barwayi kugira ngo babakurikirane bakire bagire ubuzima bwiza.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati yicaye ku ntebe, arambuye akaboko, bamushyizeho agakoresho ku kaboko gapima gutera k'umutima, inyuma ye hari icyapa cyanditseho irembo, ari kumwe n'undi wicaye amutumbiriye, amurebera ibipimo inyuma ye hari kizimyamwoto.

Icyuma kinini cyo kwa muganga kiri mu cyumba bakiriramo abarwayi, hariho umwanya umurwayi aryamaho n'umwenge bamunyuzamo kugira ngo barebe uko umubiri we umeze bamusuzume indwara, babashe kumuvura. Hariho n'ibindi byuma byinshi bitandukanye na zamudasobwa zigaragaza ibisubizo n'amashusho y'umurwayi kugira ngo bamukurikirane.

Mu bitaro kwa muganga icyumba cy'abarwayi harimo ibitanda by'abarwayi bimwe biryamyemo abarwayi, ibindi birashashe neza, bifite amadirishya ndetse n'inzitiramibu kugirango birinde indwara harimo n'ibipapuro bimanitse biho ibijyanye n'iby'ubuzima, harasukuye neza.

Inzu mberabyombi isa neza kandi iteguye. Harimo intebe n'ameza n'igisenge kigezweho n'amadirishya. Bigaragara ko ari ahantu hagenewe guhurira abantu benshi cyangwa kubera amanama y'abantu bakomeye.

Mo imbere mu bitaro, hari icyapa kigaragaza ko bakira abarwayi baza bakivuza bagataha. Ni inzu yubatse ikijyambere, irimo n'ibikoresho bakoresha bakira umurwayi, bakamuvura bakamwohereza mu rugo.

Inzu ya kijyambere igeretse, hejuru y'amarembo hari icyapa cyanditseho ngo inzu y'ababyeyi n'impinja, hashushanyijeho n'umugore utwite hasi ku marembo haragaragara imodoka ndetse n'imitwe y'abantu, bivuze ko ari kwa muganga mu nzu y'ababyeyi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye, kirasukuye, ni ukugira ngo basuzume neza umurwayi bamuvure indwara yaba afite imuteje ibibazo.

Igipangu kizengurutse ku nzu y'ababyeyi. Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite igisenge cy'ubururu, imbere yaho hari ubusitani ndetse n'indabyo, hirya hari n'izindi nzu zitandukanye, bigaragara ko ari ibitaro, aho bakirira abagore batwite, bakabakurikirana kugira ngo babasuzume cyangwa barebe ko abana babo bameze neza, ndetse banabyarizamo abagore batwite.

Amarembo yo kwa muganga inzu y'ababyeyi, hariyo abantu bambaye imipira, bafite n'ibindi bikoresho biteguye kwakira abarwayi, umuryango urafunguye ndetse mo imbere harimo n'abantu bambaye imyenda y'akazi.

Abantu bicaye abandi bahagaze, iruhande rw'inyubako nyinshi zifatanye zubatse neza mu bwa kijyambere, hari ubusitani n'indabyo zitandukanye n'ibiti, bigaragaza ko ari ahantu hagendwa n'abantu batandukanye baje mu bikorwa bijyanye n'ubuzima, nko kwikingiza, kwivuza cyangwa ibindi baba baje kwisuzumisha.

Inzu igeretse yubakishije amatafari ahiye iruhande rw'umuhanda. Hejuru hari icyapa cyanditseho ngo polyclinique de l'etoile. Hanze hasi hari imodoka zihaparitse n'umuntu urikwinjira mu marembo. Hirya no hino hari ibiti ndetse iburyo hagaragara n'inzu. Ibi bitaro byubatse ahantu hasanzwe hatuwe kandi biganwa n'abantu batandukanye baje kwivuza.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo igitanda giteguye neza n'ibindi bikoresho bakoresha kugira ngo ngo bavure abarwayi neza, harimo aho bavoma amazi bakanakarabira, aho biyumukiriza ndetse n'aho babika imyanda, icyumba cy'umweru gisukuye.

Ibitanda bitatu, bibiri biryamyeho abarwayi, bari kumwe n'abaganga bambaye umwenda wera barimo kubitaho, bigaragaza ko ari ahantu bari kwakirira abarwayi kugira ngo babavure, ntabwo hasukuye, hari ibitaka hasi.

Amarembo y'ikigo nderabuzima cya Gishweru. Hari abantu bane, batatu barahagaze n'undi umwe wicaye iruhande rw'idirishya. Hari umuganga wambaye imyenda y'akazi. Iruhande rwaho hari andi mazu n'abantu barimo kugenda mu kayira k'abanyamaguru. Bigaragara ko ari ibitaro bigenwa n'abarwayi kugira ngo bavuze abantu babo cyangwa na bo ubwabo bivuze.

Mo imbere mu nzu isukuye, hejuru y'imiryango hagiye hariho amazina nk'aho basanga umuganga, aho bashyira abantu bari mu kato, bigaragaza ko ari mu bitaro, aho bakirira abarwayi batandukanye bakabakurikirana bakabavura.

Icyumba cyo kwa muganga aho banyura hari inzira inyuramo abantu, hari kunyuramo umuganga wambaye imyenda y'akazi n'agapfukamunwa n'abandi bari guturuka inyuma, hejuru hari utumenyetso twereka abantu aho binjirira n'aho basohokera, hari ibitanda by'abarwayi ndetse n'abandi baganga bambaye imyenda y'akazi.

Imashini yagutse iri mu cyumba cyo kwa muganga, mo hagati harimo umwanya umurwayi anyuramo bagiye kumucisha mu cyuma, ndetse hari n'ibindi bikoresho bitandukanye abaganga bareberamo niba hari ikibazo afite mu mubiri cyangwa ari muzima, ndetse ni icyumba gisukuye kitarimo umwanda, gifite inzugi no hejuru harabona.

Abantu bane bazengurutse ameza harimo n'umwe wicaye mu kagare, bari mu nzu kumwe n'abandi bahagaze batonze umurongo, bisa nk'aho bitabiriye igikorwa cyo gukingira cyangwa kubavura indwara runaka mu buryo bwa rusange.

Wambaye imyenda y'akazi arimo kureba akana kari mu ngobyi y'abana ya Kizungu kwa muganga, arimo ku kitaho karasa nk'akarwaye arimo ku kitaho kugira ngo kagire ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru, uryamye areba hejuru yerekana igikumwe, iruhande rwe hari ibyuma byabugenewe biyungurura amaraso, asa nk'uri mu cyumba cyo kwa muganga, yaje kwivuza impyiko barimo kumuyungururira amaraso.

Amarembo y'ikigo nderabuzima cya Shagasha, hafite urusenge rw'ubururu, hasize amarangi y'umuhondo, imbere y'aho hicaye abantu babiri bakuru n'abana babiri, harapavomye, bigaragara ko ni ahantu hagera abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bakabuvura.

Itsinda ry'abantu bahagaze ku marembo y'ibitaro bya Rwamagana. Batumbiriye imbere nk'abari gufata ifoto y'urwibutso barangije cyangwa bagiye gutangira inama. Imbere y'ibitaro hari insina n'izindi ndabyo zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gisukuwe neza, gifite ibikuta by'umweru na parafo n'itara ririmo kumurika, harimo igitanda cy'abarwayi, ameza, ravabo ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha bari gusuzuma umurwayi.

Laboratoire irimo umuzunguruko w'amaso n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ibirahure, birimo ibisukika nk'amazi, ibi bikoresho bikoreshwa mu bushakashatsi, kugira ngo bavumbure ikintu runaka cyangwa bige ku bintu runaka.

Ibitanda bibiri mu nzu bakiriramo abarwayi, harimo n'ibindi bikoresho naho bajugunyamo imyanda. Inzu irasukuye, hanze umuntu aharebera mu idirishya. Hariho n'amarido. Kakira abarwayi bakabakurikirana kugira babavure bagire ubuzima bwiza.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho ikigo nderabuzima cya Matyazo, iruhande rwacyo hari amarembo ajya kuri ibyo bitaro harimo n'abantu bari kuyanyuramo, bigaragaza ko bakira abantu batandukanye bakabakurikirana kugira ngo babavure bakire.

Inzu nini isize amarange y'umweru n'igisenge cy'ubururu, imbere hari umuryango w'umutuku, handitseho ngo ikigo nderabuzima cya Kanyinya, imbere y'inzu hari amabuye n'indabyo ziteye neza n'ibendera, ni ibitaro binini byakira abarwayi, bakabavura bagakira.

Abantu bane bari mu marembo y'inzu igeretse n'abandi bantu bari iruhande rw'inzu benshi, Inyuma yaho hari ibiti n'izindi nzu zubatse neza, bigaragaza ko ari ahantu bakirira abantu benshi baje babagana nk'abarwayi baje kwivuza.

Amarembo y'inzu igezweho, ifite umuryango w'ibiti n'amadirishya y'ibirahure, hari icyapa hejuru kigaragaza ko ari aho bavurira amaso, ndetse hariho n'igishushanyo k'ijisho ifite urusengero rw'ubururu.

Amarembo y'ikigo nderabuzima cyangwa ivuriro. Hejuru y'umuryango handitse "Laboratoire VCT CPN ARV". Hari bicaye imbere yabo no hanze , bishoboka ko ari abarwayi cyangwa abakozi. Ni ahantu hasukuye, imbere yaho hari indabyo n'inzira y'abanyamaguru.

Icyumba kirimo imashini zikoreshwa mu buvuzi bayungurura amaraso. Harimo n'intebe eshatu, n'ibindi bikoresho n'amashusho, bigaragaza ko hakorerwa ubuvuzi bw'impyiko. Ku rukuta hari isaha ihamanitse ndetse n'andi mashusho agiye amanitse ku nkuta.

Agasanduka k'umutuku gashushanyijeho umusaraba, kabamo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze. Iruhande no hejuru yako harimo ibikoresho kimwe kimwe bikoreshwa mu butabazi bw'ibanze.

Ibikoresho by'ubuzima, ibyo bakorana imyitozo ngororamubiri, harimo udutara tw'ubururu n'umutuku n'umuntu wambaye umwenda wera urimo kwandika ku rupapuro, ku ruhande rwe hari agakoresho bapimisha gutera k'umutima, bigaragaza ibikoresho bakoresha kugira ngo abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri babapime, babashe gukira neza kandi bagire ubuzima bwiza.

Umwana wicaye areba hejuru, ari kumwe n'umuntu ufasha akuma, akamutunze ku munwa, bisa nkaho ari kumupima ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze, bari mu cyumba gisukuye.

Amacupa atandukanye n'amashashi, arimo imiti ndetse n'utundi dukoresho, bakoresha mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu uvunitse cyangwa undi ugize ikibazo, babashe kuba bamuvura agire ubuzima buzira umuze.

Abantu benshi batandukanye bari hanze, bari gukora imyizo ngororamubiri, imbere yabo hari ibiti n'amazu agaragara, bitabiriye igikorwa cyo kugorora ingingo bari hamwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imbago zifasha kugenda ku bantu bagize ikibazo nk'igikomere ku kaguru cyangwa ku kaboko, gikoze mu cyuma ariko gifite n'umwenda ugera ku kaboko bafataho kugira ngo bagende.

Amaboko n'amaguru by'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, ukoresheje amaboko n'ukuguru ukoze imfuruka, afite umusatsi muremure yambaye n'isengenyeri akoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye umupira w'umweru wicaye ku ntebe. Arambuye ukuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'ibumoso yaguhinnye, agufatishije ukuboko kw'iburyo, ashyizeho agakoresho kabugenewe gakonje. Asa nk'aho yavunitse, arimo kugabanya ububabare mu kaboko, kugira ngo amere neza.

Umuntu uri hanze uri gukora imyitozo ngororamubiri, ukuboko kw'ibumoso gukoze hasi, ukuguru kw'ibumoso gukoze hasi kurambuye, naho ukuguru kw'iburyo kurahinnye, arimo kunanura ingingo, umugongo, n'amaguru kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Umuntu wambaye umupira aricaye, arambuye ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'ibumoso araguhinye agufatishije agakoresho ku kaboko k'iburyo, gasa nk'akari gukonjesha aho yakomeretse ku kaboko kugira ngo yere gukomeza kubabara.

Umuntu wicaye hasi hagati y'amazu, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ukuguru ku imoso yaguhinye ukw'iburyo yakurambuye n'amaboko yose, afashe ku kuguru ku iburyo kurambuye. Imbere ye hari amazi ndetse yambaye n'utundi dukoresho tumufasha kunanura ingingo kugira ngo yirinde uburwayi butandukanye.

Utuzingo tw'udukoresho tuzwi nka kiniziyorogite, n'ikiganza kizingazinzeho iyi bandagiro, dukoreshwa mu gutera inkunga no gufasha imiti z'inyama n'umubiri, kugira ngo bidahungabana. Kandi bifasha no kugabanya uburibwe, ku bantu bavunitse.

Umwirabura uri gufata agapaki k'ubukonje k'ubururu akagashyira ku kuboko kwe, akaboko ke gafashe ku gapaki bigaragaza ko ari gushyiraho ubukonje kugira ngo agabanye kubyimbirwa cyangwa ububabare, bigaragaza ko umuntu ashobora kwifashisha udukoresho dusanzwe ari gutanga ubutabazi bw'ibanze ku gikomere gitoya.

Umuntu uryamye areba hejuru, ukuguru kw'ibumoso yaguhinnye, ukw'iburyo kurarambuye, kurambitse ku kantu kizingazinze k'umweru, ari kumwe n'undi muntu umukoreshejeho akantu kugira ngo amufashe kunanura akaguru k'iburyo akomeze agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda akoresha imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi kuri tapi ari kureba muri mudasobwa, bisa nkaho arimo kugorora ingingo agendeye ku byo ari kubona muri mudasobwa, iruhande rwe hari ibindi bikoresho ndetse n'icupa ririmo amazi arimo kwifashisha kugira ngo agorore umubiri kandi aze no kunywa amazi nasoza.

Imashini nini iri mu cyumba cy'ubuvuzi, iyi mashini irimo imashini ifite imbaraga za manyetike, hari n'ameza yimukanwa y'umurwayi aryameho kugira bamusuzume, harimo n'igikoresho gisuzuma ubwonko n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo bafate amashusho arambuye y'ingingo n'ibice by'imbere mu mubiri.

Abantu bane bambaye imyenda bagera mu imyitozo ngororamubiri, barimo kwirukanka impande y'ikibuga, basa nk'abakinnyi cyangwa abandi bantu baje gufana, kugira ngo bataza gucikanwa n'umupira cyangwa bitoze neza baze gukina batsinde.

Umugore wicaye muzu ari gukora umwitozo wa yoga yicaye hasi umugongo ugororotse, amavi ye arafunze agana inyuma ibirenge bye bikoranyeho, amaboko ye yafashe ku mano, ku maguru, arimo kunanura ingingo kugira ngo afungure imikaya y'ibibero.

Umuntu wicaye iruhande rw'inzu ari gukora imyitozo ngororamubiri, ukuguru kw'iburyo yaguhinye, kw'ibumoso kurarambuye amaboko yose, kumwe yakunyujije hejuru, ukundi akunyuza hasi afata ku mano y'ukuguru kw'ibumoso, arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza, iruhande rwe hari ibikombe birimo indabyo, ndetse inyuma ye hari igikuta cyubakishijwe ibiti.

Icyuma kinini kiri mu cyumba cyo kwa muganga. Gifite umwenge mo hagati n'aho bajyamisha umurwayi bakamunyuza mu cyuma bakareba uko mu ngingo mo imbere hameze, bagafata n'amafoto kugira ngo bamukurikirane, bamusuzume, bamuvure n'indwara yaba afite.

Amacupa abiri y'amazi, rimwe rizengurukijweho metero bushumi, iruhande rw'akandi kuma ndetse n'imbuto zitandukanye, bigaragaza ibikoresho bifashisha bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikirangantego cy'abatabara imbabare. Kirimo hagati y'umusaraba, cyometse ku rukuta. Munsi yabo handitseho ko hari abantu batanga ubufasha kugira ngo batoze abantu ubutabazi bw'ibanze.

Amaguru yambaye ibikoresho by'ibyuma biriho n'umwenda, bifasha amaguru ndetse n'ibirenge gutambuka bakagenda, nk'umuntu ufite ikibazo cy'akaguru, wavunitse cyangwa urwaye amagufwa, akabasha gutambuka

Agakoresho kifashishwa mu gufata no gushyigikira ingingo, kwirinda imvune, cyangwa gupfuka amaguru, amaboko cyangwa ivi mbere yo gukora imyitozo ngororamubiri ikomeye. Kugira ngo umuntu yirinde kwangiza amaguru.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku. Ukuguru kwe kw'iburyo aguhiniye mu ivi. Agakandagira ahantu harambuye. Ari kumwe n'umuganga wambaye umwenda w'akazi. Amufashe mu ivi, arimo kumufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Igihimba cy'umuntu wambaye isengeri, arahagaze araramye ari kunywa amazi ari mu icupa arifatishije ukuboko kw'iburyo, afite n'isume ku rutugu, birasa nk'aho arangije gukora imyitozo ngororamubiri, agiye gukaraba, akaba ari kunywa amazi kugira ngo yimare inyota.

Umuntu wicaye ahinnye akaguru k'ibumoso ak'iburyo karambuye, ari kumwe n'undi muntu uri kumufasha gushyira udutambaro twabugenewe ku kaguru kugira ngo yirinde ibibazo mugihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, cyangwa amuvure ikibazo yaba yagize cy'imvune.

Umuntu w'igitsina gabo. Yicaye hasi yambaye isengeri araramye ari kunywa amazi ari mu icupa akoresheje ukuboko kw'ibumoso. Inyuma ye hari ahantu harambuye hasa nko mu kibuga ndetse n'ibiti bigaragaza ko no kuba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri. Akaba ari kuruhuka anywa amazi kugira ngo agabanye icyaka.

Umuntu wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara. Ari ku mazi ku ruzitiro arimo gukora imyitozo ngororamubiri. Ukuboko kwe kw'iburyo kurarambuye ndetse n'ukuguru kwe kurarambuye ku ruzitiro, ukuboko kw'iburyo yagufashije ku kuguru kw'iburyo, ukuboko kw'ibumoso kuri mu mayunguyungu kugira ngo agire uburinganire.

Amacupa atandukanye arimo imiti ikoreshwa n'abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo bananure ingingo cyangwa uwavunitse abashe gukira, agire ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye imyenda ajyana mu myitozo ngororamubiri, yicaye hasi, amaguru n'amaboko birambuye bigana imbere, n'umutwe uri hagati y'amaboko, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ananure amaguru n'amaboko n'umugongo uhetamye, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu wicaye, yambaye imyenda akoresha imyitozo ngororamubiri, ikirenge cy'ibumoso kirarambuye, icy'iburyo agikoresheje imfuruka, ari kumwe n'umuganda wambaye imyenda y'akazi, asa n'uri kumufasha kugorora ingingo ze akoresheje udukoresho ari kumushyiraho kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Icupa ry'amazi ribonera rifite umupfundikizo w'ubururu, rikikijwe n'amazi asandaye bigaragaza isuku n'ubusabane. Inyuma yaryo hari ibara ry'ubururu rituma icupa rigaragara neza.

Abantu babiri bambaye imyenda bakinisha karate. Umwe yambaye imyenda y'ubururu undi yambaye iy'umweru. Bari mu kirangantego cyanditseho hasi ngo Rwanda judo federation. Bari mu ibara ry'umuhondo n'irindi ry'umweru bikikijwe n'uruziga rw'umukara mu ibara ry'umweru.

Intebe y'abarwayi, ifite aho kwicaraho n'aho kwegama n'amapine ndetse n'aho bafata kugira ngo batware umurwayi bamuvane ahantu hamwe bamugeze ahandi, nta kibazo agize yicaye, barayisunika byoroshye kubera ko ifite amapine.

Abantu babiri, umwe yambaye umupira n'ikabutura ari gukora imyitozo ngororamubiri, bari ahantu hari ibikoresho byinshi bakoresha imyitozo, bigaragaza ko ari inzu abantu bagana kugira ngo babafashe kunanura ingingo.

Abantu babiri bambaye imyenda bajyana mu myitozoramubiri. Bari hanze umwe yicaye ku ntebe y'igiti, undi ahagaze hafi ye. Bombi bafite udukapu turimo ibikoresho byabo. Bigaragazaa ko barangije gukora imyitozo cyangwa aribwo bagiye kuyitangira.

Igihimba cy'umuntu wicaye ku ntebe mu nzu. Akaboko k'ibumoso arakarambuye, ak'iburyo aragahinnye agafatishije agakoresho aho ahinira akaboko k'ibumoso. Asa nkaho yavunitse arimo kuhakonjesha kugira ngo adakomeza kubabara.

Agasanduku gapfunduye, karimo imiti n'ibikoresho bivura indwara zitandukanye. Ibindi biri iruhande rwabyo hasi. Bigaragaza imiti umuntu yagenda mugihe agiye gukora imyitozo ngororamubiri kugirango nihagira ugira ikibazo bamuhe ubutabazi bw'ibanze. mbere yuko bamugeza kwa muganga.

Abakozi bamwe bambaye imyenda y'akazi, ndetse bose bambaye ingofero n'udupfukamunwa, bari ahantu mu nzu, bafite za mudasobwa bari kureba imbere muri tereviziyo umuntu umeze nk'aho ari umuyobozi wabo, uri kubabwira ibyo bakwiye gukora cyangwa ari kubakoresha inama bamukurikiye.

Umuntu wambaye imyenda bajyana mu myitozo ngororamubiri, ahinnye ukuguru kw'ibumoso n'amaboko yombi. Ukuboko kw'iburyo gukoze k'ukuguru kw'iburyo guhinnye, arimo kunanura ingingo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye umupira uri kunywera amazi mu icupa ry'ubururu, barifatishije akaboko k'ibumoso, mu buryo bwo kugira ngo yice akanyota amaze gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa ananiwe.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'ubururu, afite ubwanwa, ahagaze araramye ari kunywa amazi ari mu icupa akoresheje akaboko k'iburyo, asa nk'umaze gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi kugira ngo yimare inyota.

Icyuma cyagutse gifite aho umurwayi aryama, n'umwenge mo hagati bamunyuzamo bari kumucisha mu cyuma kugirango barebe imikorere y'ubuzima bwe, ndetse gifite n'agace gasuzuma ubwonko, kagaragaza ibisubizo. Kiri mu cyumba bigaragara ko ari kwa muganga aho bakirira abarwayi.

Ibikapu by'umutuku, kimwe kirafunguye, birimo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze ku bantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, urugero bifasha guhumeka neza ndetse n'ibyo bazirika ku muntu wahuye n'imvune.

Abantu babiri bambaye imyenda y'akazi, barasutamye ku kibuga barimo kwita ku wundi muntu uryamye yambaye imyenda bajyana mu myitozo ngororamubiri. Inyuma yabo hari abandi bantu bambaye nk'abakinnyi n'undi muntu urimo gufotora, bari mu buryo bwo kwita ku muntu bakoresheje imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Udusanduku tubiri n'agacupa karimo hagati, agasanduku kamwe karimo ibikoresho bifashisha mu butabazi bw'ibanze, gateretse hasi, inyuma yaho hari abantu bahicaye, bimeze nko mu kibuga cy'umupira, aho baje biteguye kugira ngo uragire ikibazo baze guhita bamufasha.

Umuntu uhagaze areba imbere, araramye. Ukuboko kw'iburyo agufatishije mu mayunguyungu. Ari kunywa amazi akoresheje ukuboko kw'ibumoso. Ameze nk'umaze gukora imyitozo ngororamubiri uri kunywa amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Igikapu cy'umutuku kirimo imiti n'ibikoresho bitandukanye nk'ibivura imvune, ububabare, ndetse n'indwara zo mu buhumekero, bajyana ahantu bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu uragira ikibazo, bamuhe ubutabazi bw'ibanze mbere y'uko bamugeza kwa muganga.

Umukobwa wambaye isengeri n'ikabutura n'inkweto akoresha imyitozo ngororamubiri, yicaye ahantu haringaniye ari kunanura akaguru n'akaboko k'iburyo, akaboko k'ibumoso yagakoresheje imfuruka. Ni mu buryo bwo gukora imyitozo yirinda indwara, ari ahantu hanze hasa neza.

Abantu benshi bari mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umuntu umwe uryamye areba hejuru akaguru kamwe karambuye akandi yagahinnye, bari kumushyiraho ibyuma hari abaganga bambaye imyenda y'akazi, barimo kumufasha gusuzuma cyangwa kuvura akaguru ke kugira ngo abashe kugenda neza.

Umuntu w'igitsina gabo ufite ubwanwa. Ari kunywa amazi mu icupa akoresheje akaboko k'ibumoso. Yambaye umupira wa kaki ndetse yambaye n'utuntu mu matwi, turi kumufasha kugira ibyo yumva, akoresheje igikoresho k'ikoranabuhanga.

Umuntu w'igitsina uhagaze ari kunywera amazi mu icupa akoresheje ukuboko kw'iburyo, asa nk'umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi kugira ngo yice icyaka.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa ateruye umwana, umwana ari kureba imbere, areba umuganga wambaye imyenda y'akazi, umutunze agakoresho ku gahanga kugira ngo amupime amenye umuriro afite bamukurikirane bamuvure.

Umuntu uhagaze afatishije amaboko abiri akuma, ari kumwe n'umuganga wicaye arimo kumufasha kugira ngo amwereke uko yatambuka agakoresheje kubera ibibazo afite by'amaguru, bari mu cyumba ndetse hari n'undi muntu n'ibindi bikoresho bakoresha bafasha abarwayi bafite ibibazo by'ingingo.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda bajyana gukora imyitozo ngororamubiri, arahagaze areba hejuru azamuye amaboko arimo kugorora ingingo, afite imisatsi myinshi ari ahantu yitegeye amazi ari kuruhuka.

Abantu babiri, bambaye imipira y'umweru, n'amakoti y'umutuku, bafashe umuntu wambaye umupira w'umuhondo. Ameze nk'uwavunitse, cyangwa utabasha kwigenza. Barimo kumufasha kugenda; kubera ko yagize ikibazo mu maguru, ari nko mu myitozo ngororamubiri.

Amasahane ariho amafunguro atandukanye ku meza, iruhande rwayo hari ibindi bikoresho nk'ibyo bakoresha imyitozo ngororamubiri, biri ahantu hasukuye, ku buryo umuntu umajije gukora imyitozo ngororamubiri ibyo atakaje ashobora kubibona, binyuze mu ifunguro akagira ubuzima bwiza.

Amasahani abiri n'agatebo gatoya, hariho ibyo kurya bitandukanye, iruhande rwabyo hari ibikoresho bakoresha imyitozo ngororamubiri, bigaragaza ahantu bafasha abantu kunanura ingingo ndetse no kurya neza kugirango bagire ubuzima buzira umuze.

Umwana wicaye ku ntebe arasamye, ari kumwe n'umuganga, wambaye agapfukamunwa n'umwenda w'akazi, arimo kumufotora mu kanwa. Inyuma yabo hahagaze abandi bantu babiri basa nk'ababyeyi be, ari kumufasha kureba, ikibazo yaba afite mu kanwa, bari mu nzu, isukuye.

Umuntu wambaye isengeri, ahagaze areba hejuru, ari kunywa amazi ari mu icupa afatishije icupa ukuboko kw'iburyo, mu iijosi hari isume, asa nkaho arangije gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi, agiye no gukaraba kugira ngo ahumeke neza agire ubuzima buzira umuze.

Igikoresho gifasha abantu bafite kugenda mu buryo bw'umutekano, gifite ibirenge bine, ifite imishumi bashobora guhindura ndetse no munsi aho babika ibyo baribuze gukenera, cyakozwe kugira ngo gifashe abarwayi kuba bagira aho babageza.

Umuntu w'igitsina gabo, yicaye hanze mu nzira, araramye, ari kunywa amazi ari mu icupa, arifatishije ukuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso agufatishije telefoni, mu ijosi harimo eswime, asa naho arangije gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi, akajya no gukaraba kugira ngo yikureho icyuya.

Abakinnyi bari mu kibuga bari gukina umukino w'amaboko, nyuma yabo hari abantu benshi baje gufana, hari n'ibyapa bigaragaza ko ari umukino wahujije abantu benshi.

Ikiganza gifashe mu ntoki ibinika ikoze mu kirahure, kirimo gusuka amazi asukuye mu gikombe cy'ikirahure, biri mu ibara ry'ubururu kugira ngo amazi agaragare neza.

Uruparo rushushanyijeho abantu babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, uri kuvuga imyitozo icumi wicaye unahagaze, itanu itanu wakora kugirango wongere imikorere myiza y'ubwonko nyuma y'uko ubwonko bwawe bugize ikibazo.

Umuntu wambaye imyenda ajyana mu myitozo ngororamubiri, ari mu nzu nziza arimo gukora imyitozo, ukuguru kumwe ku iburyo agukoresheje imfuruka igororotse, uk'ibumoso arakurambuye, arimo kwitoza kugira ngo agire bwiza yirinde n'indwara.

Umuntu wicaye ku ntebe yabugenewe, ukuguru kumwe gukoze hasi ukundi kurarambuye gukoze imfuruka. Ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi, ari kumufasha kunanura amaguru. Bari mu cyumba, iruhande rwabo hari akabati karimo n'ibindi bikoresho bigaragaza ko bafasha abantu kwirinda cyangwa kwivura indwara babakoresha imyitozo ngororamubiri.

Ibirenge by'umuntu wicaye afatishije akaboko k'iburyo, mu ivi ry'iburyo yashyizeho agakoresho, ameze nk'uwavunitse arimo kuhakonjesha kugira ngo yere gukomeza kubabara.

Agasanduku gapfunduye karimo ibikoresho amavuta ndetse n'imiti bakoresha mu gihe bagiye ku kibuga gukina hagize nk'ugira ikibazo k'imvune cyangwa mu mihumekere bakamuha ubutabazi bw'ibanze mbere y'uko bamugeza kwa muganga.

Ahantu harambuye h'umweru hateguye harambitse imbuto zitandukanye, ibumoso, iburyo harambitse ibikoresho bakoresha imyitozo ngororamubiri, bigaragaza ko ari ibyo bafashisha abantu kugira ngo bananure ingingo kandi barye bagarure imbaraga batakaje.

Umuntu wambaye agasengeri, ahagaze araramye ari kunywa amazi ari mu icupa akoresheje ukuboko kw'iburyo, inyuma ye hari ibyatsi n'ikirere cyijimye, bigaragaza ko ashobora kuba amaze gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi kugira ngo yimare inyota.

Abantu babiri baryamiye urubavu rw'iburyo, bambaye n'imyenda bakorana imyitozo ngororamubiri, bari kumwe n'abantu bari kubafasha, baryamye ku bitanda byiza, ndetse hari n'ibindi bikoresho, bigaragaza ko bari kubananura ingingo, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye ikabutura, hejuru arifubitse, ari kunywa amazi ari mu icupa, icupa arifatishije ukuboko kw'iburyo. Usa nk'uri kuruhuka, amaze gukora imyitozo ngororamubiri. Aari kunywa amazi kugira ngo yimare inyota.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho imyitozo ngororamubiri umuntu akora kugira ngo akire, gishushanyijeho n'abantu barimo gukora iyo myitozo, uhagaze ku kirenge, uwicaye, uzamura amaguru ndetse n'uhagaze ateye ukugura imbere.

Icyapa cyanditswe n'umuganga uvura ibijyanye n'iby'ingingo Viateur Nshimyumuremyi, gitanga ubutumwa bugufi bujyanye no kuvura ingingo ndetse hariho n'imyirondoro na nimero wabahamagariraho bakagufasha.

Umuntu uryamye ku gitanda areba hasi. Yambaye imyenda y'umweru. Ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi n'agapfukamunwa. Afashe ku mashini arimo kuyikanda, iyo mashini hariho utugozi dukoze ku mugongo w'uwo muntu uryamye, arimo gupima imikorere y'umubiri we.

Urupapuro rwo mu gitabo. Hariho amashusho ane y'ibibabi by'ibiti bitandukanye biri mu murima. Munsi yaho hari ubutabire bw'ibintu twasanga muri ibyo biti bakoresha bakora imiti ivura indwara.

Umugabo wambaye umupira w'umweru urimo utubara tw'umukara w'amaboko magufi, ahagaze hanze imbere y'ishyamba ry'inzitane, yifotoje areba hejuru, afashe ku bimera by'ibyatsi biri mu ishyamba.

Inkoko zirimo amafu ndetse n'ibindi bimera bitandukanye n'amababi n'ibitiriti by'ibyatsi n'igihiko ndetse n'utundi tuntu bifashisha bigaragaza ibyo bakoresha bavangavanga kugira ngo bakore umuti gakondo.

Abantu bakuru batandukanye. Bahagaze mu murima weramo igikakarubamba. Bari kureba imbere abenshi bambaye imipira y'icyatsi. Inyuma yabo hari ibiti ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye. Ibibabi by'igikakarubamba bikoreshwa mu gukora imiti ivura uruhu, gutunganya imisatsi kugira ngo yongere ubwiza.

Icupa rire ripfundikiye, ririho icyapa cyanditseho ngo ''forever bee honey''. Rishushanyijeho n'ubuki. Ririmo ubuki bukoreshwa mu buvuzi bwa gakondo n'indwara zitandukanye.

Itangazo ryamamaza ririho icupa, ririho umuti w'amenyo, ushushanyijeho n'igikakarubamba, hejuru yaryo hari umunwa w'umuntu ufite mu kanwa heza. Bigaragaza kwamamaza iki gicuruzwa cyoza amenyo akaba umweru.

Igiti cy'inganzamarumbo, cy'amababi y'icyatsi, kiri mu murima uteyemo n'ibindi biti bitandukanye harimo n'ibifite amababi y'umutuku, iki giti gikoreshwa mu gutunganya imiti ivura indwara zitandukanye.

Igiti kiri mu murima gishishye cyane gifite n'amashami menshi atandukanye, kiri mu murima hezemo n'ibindi byatsi ndetse n'ibindi biti by'amoko atandukanye, gikoreshwa mu gutunganya imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye.

Amacupa abiri y'umweru acuritse ashushanyijeho igikakarubamba n'inuma, arimo umuti w'amenyo batunganya mu gikakarubamba, ukoreshwa mu koza amenyo no kuyarinda indwara zitandukanye.

Ikiganza cy'umugore wambaye igitenge, ari gukora ku rurabyo, ruri kuva ku giti cyashishe, zino ndabyo zikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

biganza bibiri by'umuntu wambaye itaburya arimo kwerekana umuti yakuye mu gikarito cyanditseho ngo mifedne, birasa naho ari kuwereka umurwayi cyangwa ariwamamaza asobanura uko bawukoresha cyangwa icyo uvura kugira ngo umuntu asubire mu buzima busanzwe, hehe n'uburwayi.

Ibiti biri mu murima bifite amababi y'icyatsi, bimwe byatukuye umweru, aya mababi ashobora gukoreshwa mu gutunganya imiti ivura indwara zitandukanye.

Inzu yubatse mu birere, iri hasi, hari umufuka urimo ibikoresho byashaje bya Kinyarwanda: ibibindi, imiringa, inkoko, ndetse n'ibindi. Birasa nk'ahantu bavurira gakondo, bavura indwara zitandukanye cyangwa bakemure ibibazo umuntu afite.

Itsinda ry'imbuto n'amababi bitandukanye biri mu mirima yabyo byahurijwe hamwe n'amazina yabyo, bishobora gutungwa bagakoreshwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Ibicuruzwa bikomoka ku gikakarubamba bikoreshwa mu kuvura uruhu cyaroshyerindera bifunze mu buryo bw'amavuta amasabune.

Icupa ry'umweru ripfundikiye, ririho icyapa cy'uruganda rwa Forever, biteretse ku isahani hariho n'izindi mbuto z'amaronji n'indabyo zisa n'umuhondo, bikoreshwa mu gukora aya mavuta avura indwara zitandukanye z'uruhu.

Ikirahuri kirimo ubuki harimo n'igihiko bakoresha bayoze ubuki, iruhande rwaho hari amashami y'umwenya ndetse n'ikindi gitiritiri, ni uburyo bwo kwivura inkorora bakoresheje ibimera gakondo. Inyuma hari urukuta rw'inkwi bigaragaza ko ari ibikoresho bakoresha bakora imiti yo kuvura inkorora bisanzwe.

Ikibabi cy'ikimera kiri ku giti ndetse n'ibindi biti n'utubase duteyemo ibyatsi nk'igikakarubamba biteretse ahantu, bisa nkaho bari kutwereka uko batunganya imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye.

Ifu, ibibabi, ndetse n'izindi mbuto bihinze mu murima, bikoreshwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye, nko kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Amababi y'ibiti bitandukanye amwe yaratukuye aba umutuku, andi umuhondo, ibiti bimwe bifite n'imbuto, bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo.

Amacupa atandukanye ari mu tubati apfundikiye, harimo ibintu by'umweru iby'icyatsi n'andi mabara y'amafu, hariho n'ibyapa, bigaragaza ko ari imiti ikorwa mu byatsi ivura indwara zitandukanye.

Udupfunyika dutatu dutandukanye dufunze neza, duhagaritse ku bishyitsi bitatu bikozwe mu biti, biteretse ahantu heza hari n'icyapa hejuru cyanditseho ngo "Herbal Tea Range", mu buryo bwo kwamamaza icyayi giturutse mu bimera.

Abantu babiri bahagaze mu ishyamba riri hanze, umwe ari hagati mu mababi y'ibiti, ibyo biti amababi yabyo akoreshwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye

Icupa ry'umweru ripfundikiye, ririmo ibinini mirongo ine, byongera intungamubiri mu mubiri, byakozwe n'uruganda rwitwa mu ndimi z'amahanga Forever, rukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Umurima urimo ibihingwa by'igikakarubamba, harijimye ikirere kirimo urumuri rukeya nk'aho ari mu gitondo cyangwa nimugoroba, ibihingwa bifite ibibabi bitoshye, umushongi uva muri byo ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruho, no kwita ku musatsi.

Inanasi, imbuto z'imineke ndetse n'udupfunyika tw'ibicuruzwa nk'icyayi byongera intungamubiri mu mubiri, aho biteretse hari n'ururabyo, bigaragaza ko bishobora gutunganywa bigakoreshwa bakora imiti ivura indwara zitandukanye.

Ibikombe byabugenewe birimo ibimera biteye bifite amababi agaragara nk'intoki buri giti gifite amababi menshi aturuka ahantu hamwe, ibi bimera bifite ibara ry'icyatsi birambitse ku cy'uma gikozwe nk'igitanda.

Udupfunyika dutatu tw'amabara atandukanye, duteretse kunjyiga y'igiti, turi ku cyapa cyamamaza icyayi gikoze mu byatsi karemano, kivura indwara zitandukanye.

Ibibabi by'icyatsi n'ibindi byatukuye biri mu murima, iruhande rw'umuhanda. Mu murima harimo imyanda ndetse no ku muhanda hari ibyuma bitandukanye. Ibibabi bikoreshwa mu gutunganya imiti ivura indwara zitandukanye.

Icyapa cyamamaza amavuta yo ku munwa, hariho icupa rditseho arowe lipusi, ikoreshwa byoroshye, ikavura indwara z'umunwa, ukawurinda kwangirika ndetse no gutoboka.

Icupa ry'ubururu, hasi ahagana ku ndiba harererutse cyane, ripfundikije umupfundikizo w'ubururu, ku icupa handitseho mu ibara ry'umweru skin oil, harimo amavuta akoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, mu kuvura uruhu cyangwa kurinda uruhu ibibazo bitandukanye.

Igiti cy'umuravumba kiriho amababi menshi y'icyatsi, kiri ahantu hagati y'amazu. Ibibabi bikoreshwa mu gukora imiti cyane cyane ivura indwara zo mu mihogo.

Icupa ry'umweru bahagaritse bacuritse, rirapfundikiye rishushanyijeho igikakarubambaka. Ni iry'uruganda rwitwa forever, harimo umuti w'amenyo ukoreshwa mu gusukura amenyo kugira ngo umuntu yirinde indwara zo mu kanwa.

Icyapa kiriho icupa ry'umweru ripfundikiye. Rishushanyijeho uruyuki. Kirimo ibinini mirongo itandatu. Byongera intungamubiri nkuko byanditse ku ruhande rw'iryo cupa. Ndetse hariho n'ikirangantego ndetse n'inuma.

Amababi y'icyatsi agenda akomoka ku ishami rimwe, ariho n'irati bigaragazako bayazengurukije, kugira ngo bakore uruzeru, aya mababi barayabika, bakazayakoresha mu gukora umuti wa gakondo.

Igiti kirekire cy'inganzamarumbu, kiri mu ishyamba, hari n'ibindi biti bitoya ndetse n'ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye, hari ikirere cyiza cy'ubururu n'umweru.

Icupa ry'umweru ripfundikiye ririho y'icyapa cy'ubururu n'umweru cyanditseho ko ari ibya aletics ni ruganda rwa forever, harimo udupfunyika ijana na makumyabiri dufasha mu kuvura mu buryo bwa gakondo, ni umuti.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi n'ikarita y'akazi, afashe mu ntoki ishami ry'igiti rifite ibabi by'icyatsi, inyuma ye hari undi muntu uri kugenda, iruhande rwe hari umuryango ukinguye, bigaragaza nkaho ari kutwereka icyatsi bakoramo umuti uvura indwara mu buryo bwa kinyarwanda.

Ibibabi byinshi biri mu murima bisa icyatsi. Biri ahantu hijimye bigaragara ko ari nijoro cyangwa mu mugitondo butari bwacya. Ibi bibabi bikoreshwa mu gutunganya imiti ivura indwara zitandukanye nko kumisha ibisebe.

Igiti cy'umuravumba gifite amababi y'icyatsi, kiri mu murima hagati, iruhande rwacyo hari ibindi byatsi n'ibiti bitandukanye. Ibibabi by'iki giti bitunganywamo umuti uvura indwara zitandukanye nk'inkorora.

Icyapa cy'umweru cyanditseho akagera medesine, hariho n'ikirangantego, kiranga aho bavurira, mu kagera kugira ngo akire indwara cyangwa uhuye n'ikibazo waje kuhasura.

Ikirahure cy'umweru kirimo indabo, ibibabi ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibihiko biriho imiti n'andi macupa ateretse hasi, bigaragaza uko bakora imiti gakondo ndetse n'ibimera bakoresha.

Icupa rirerire ry'umweru. Rishushanyijeho igikamarubamba mu ibara ry'icyatsi. Byanditseho Forever Bright Toothgel. Harimo umuti woza amenyo, kwirinda indwara zitera amenyo cyangwa kwivura bikuramo umwanda.

Igihingwa cyimejeje mu butaka, gifite amababi y'icyatsi kibisi, kirimo gukura, hagati yacyo hari ibisigazwa by'ibyatsi byumye n'ibibabi bigaragaza ko gihingwa mu murima.

Icupa ry'umuhondo riri hagati y'amacupa abiri y'umweru ashushanyijeho igikakarubamba n'inuma. Arimo amavuta atunganijwe mu gikakarubamba, akoreshwa mu gutunganya ubwiza cyane cyane bw'abakobwa, n'ababyeyi b'abagore.

Amacupa atandukanye ateretse iruhande rw'ubusitani, arimo ibicuruzwa by'ubwiza, bikozwe mu bimera, byatunganijwe n'uruganda rwitwa Forever. Hariho n'ikirangantego cyarwo ndetse n'inuma.

Amacupa y'umweru maremare apfundikiye, yanditseho arowevera jeri. Iruhande rwayo hari imbuto ndetse n'ibindi bikoresho by'ibimera bakoresha, bavanga kugira ngo bakore amavuta, avura ibiheri, ndetse n'ibindi bintu byafata mu maso, kugira ngo umuntu agire uruhu rwiza.

amakarito abiri arimo ibicuruzwa by'uruganda rwa Foreva amavuta akozwe mu gikakarubamba yita ku ruhu ndetse no ku bwiza ubu ni uburyo bwo kwamamaza kugira ngo babone abakiriya.

Amakarito ane arimo imiti ikoreshwa nk'inyunganiramirire, harimo vitamini zitandukanye n'imyunyu ngugu, ndetse harimo n'uburyo bushya bw'amafu, bifite impumuro y'imbuto kandi nta sukari irimo, abantu barya imboga gusa, babyifashisha kugira ngo babone zino vitamine, ndetse n'imyunyu ngugu batabona mu mboga.

Amacupa atandukanye ateretse hamwe, arimo ibikoresho by'isuku nk'amavuta bitunganijwe mu gikakarubamba, bivura indwara z'uruhu ndetse bikoreshwa no mu gutunganya umusatsi byongera ubwiza, cyane cyane ku bagore n'abakobwa.

Icupa ry'umutuku rya foreva bihani, rifite ikirango cy'umuhondo kigaragaza izina ry'igicuruzwa, hariho n'ishusho y'inyoni, harimo igicuruzwa gikozwe mu buki gikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo bavura indwara zitandukanye.

Ibibabi by'icyatsi, biri kuva ku mirindi itandukanye bifashe ku giti kimwe, biri mu murima hasi mu murima hari ibindi bisigazwa by'ibiti, bino bibabi bikoreshwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Ikibabi cy'ibyatsi, gifite amashami aturuka ku kirindi kimwe, kiri mu murima hari n'ibindi byatsi bitandukanye bimwe bifite indabyo z'umweru. Muri uwo murima harimo amabuye ndetse n'indi myanda, bigaragaza ahantu bakura ibibabi, bishobora gutunganywa bikavura indwara zitandukanye.

Amacupa atandukanye arimo ibicuruzwa bikomoka ku gihingwa k'igikakarubamba harimo amavuta ndetse n'amasabukoreshwa ku ruhu no mu musatsi kugira ugire uruhu rwiza wirin indwara ndetse n'umusatsi wawe umeze neza.

Ibibabi by'icyatsi birebire, bimeze ku giti giteye mu murima, ni umurima ucucitse urimo n'ibyo biti byinshi, ibi bibabi bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igikarito kirimo ibinini cumi na bibiri, birimo umuti witwa erekitoromusine eturusikanti amagarama magana atanu kuri buri kinini, uvura indwara ziterwa n'udukoko twa bagiteri.

Abantu benshi bari mu isoko rigari, ririmo ibiribwa ndetse n'ibirungo bongera mu mafunguro, mu isoko rigari kandi rirasakaye.

Ibiti bifite amababi y'icyatsi, hari intoki zifashe ku kibabi kimwe cy'icyatsi, biri mu murima urimo ibishingwe, ndetse n'ibindi byatsi. N'amababi ashobora gukoreshwa mu gutunganya imiti ivura indwara zitandukanye.

Igiti gishishe gifite amababi y'icyatsi. Biri mu murima harimo n'ibindi biti n'indabyo z'ubwoko butandukanye, bimwe byatukuye umutuku ibindi umuhondo. Harimo amababi y'ibiti akoreshwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Ibiti biri mu murima bifite amababi y'icyatsi maremare aturuka ku murindi umwe. Mu murima hari n'ibindi bisigazwa by'ibiti byaguye hasi. Aya mababi akoreshwa mu gutegura imiti ikoreshwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo.

Amashami y'ibiti ariho ibibabi by'icyatsi, ari mu kirere ndetse n'ikirere kirimo ibicu, ibibabi bishobora gutunganywa bigakoreshwamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Amoko atandukanye y'ibimera biri kumwe bigaragazwa mu bidukikije byacyo bisanzwe, hamwe n'ifoto ya hafi aho ngaho iruhande rw'igiti, bishoboka ko bigamije kukimenya cyangwa kugisuzuma byimbitse.

Agapfunyika k'isabune. Ku mpande hari uducupa tubiri turimo amavuta. Byose bikozwe mu gikarubamba. Bikoreshwa mu koroshya uruhu, cyangwa kuvura indwara zitandukanye z'uruhu, ndetse no kongera ubuhohere bw'umusatsi.

Amacupa apfundikiye neza arimo ibyatsi bitunganyijwe, ku macupa hari icyapa cyanditsweho mu z'igiswayire bizobanura ngo ubuvuzi bwa kinyarwanda bigaragaza ko ibiri mu macupa bikoreshwa mu kuvura gakondo.

Umuntu uhagaze mu nzu yubakishije ibiti. Afashe ku mufuniko w'ubururu w'icupa, inyuma ye mu kabati hari utundi ducupa, aho ari hari ibindi biti ndetse n'ibindi bintu bikomoka mu byatsi, bigaragaza ko ari kwerekana uburyo ki bakora imiti bakoresheje ibimera.

Amakuru ntoya Arimo umuhini n'ibibabi iruhande rwabyo hari ibiti bibiri n'amacupa arimo ibintu bisukika bigaragaza uburyo bakora umuti wa kinyarwanda uvuye mu bimera bakoreshwa kuvura indwara zitandukanye.